Abantu batandukanye harimo abajyanama b'ubuzima, bambaye amakarita ariho ibibaranga mu ijosi, bakaba bambaye impuzankano y'amataburiya afite ibara ry'umweru, bishimiye cyane umuyobozi waje kubasura ku kigo nderabuzima cya Mayange.

Ibiganza by'umuntu uri gusukura intoki z'iwe, akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, ku ruhande hari isabune ifite ibara ry'umweru ndetse amazi akaba ari mu gikoresho cyabugenewe gishinzwe kubika amazi gifite ibara ry'ubururu.

Ihema rifite ibara ry'umweru riteraniyemo abantu benshi bambaye imipira igiye itandukanye, harimo abantu bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba barimo n'umugore w'umuzungu, hakaba harimo n'ushinzwe umutekano w'igihugu polisi y'u Rwanda, bakaba bari kwita ku buzima bw'umwana ndetse birinda igwingira ry'umwana mutoya.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abagore bambaye udupira dufite amabara ajya gusa umuhondo ndetse bakaba bambayeho amaji afite ibara ry'icyatsi ndetsekamo n'abagabo bambaye amakoti afite ibara ry'umukara n'undi wambaye ishati'rimo imirongo y'umweru bakaba bahagaze imbere y'inzu ifite inkuta zifite amabara y'umweru akaba ariho n'imitako ifite amabara agiye atandukanye.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura ifitei ibara ry'umukara ari ku ivomero rusange rifite itiyo isa icyatsi, ku ruhande rw'iryo vomero rusange hari indobo ebyiri zifite ibara ry'ubururu ndetse n'imifuniko y'ubururu.

Abantu bahagaze batandukanye harimo abambaye impuzankano zisa zifite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba n'uwambaye ikote ry'umukara ndetse mo imbere yambayemo ishati y'umweru, ufite kamera, ari kugenda afotora ibikorwa byose biri kugenda bibera aho ngaho, hakabari hari n'abandi bagabo bahagaze imbere bagenda berekwa ibikorwa byagiye bikorwa n'abantu bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru ndetse bakaba bambaye n'amakarita ariho ibibaranga mu ijosi, bakaba bahagaze imbere y'icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba kirimo amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze batandukanye bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara atandukanye, harimo abambaye imipira y'ubururu, iy'umweru ndetse n'uwambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, n'abambaye amakanzu atandukanye. Bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo hehe n'igwingira twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abagabo babiri bahagaze bose bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru basuhuzanya mu kiganza, umwe afite impapuro mu ntoki ziri mu gakayi, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse iki cyapa kikaba gifite ibara ry'ubururu, ayo magambo akaba afite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye harimo abamama bageze mu myaka y'izabukuru bambaye ibitenge ndetse n'undi wambaye agapira, hakaba harimo n'umwana bahetse mu mugongo, hakaba hari n'undi mwana wambaye agapira gafite ibara ry'umweru, wambaye n'ingofero ifite ibara ry'ubururu, akaba ari gusuzumwa na muganga wambaye umupira ufite ibara ry'umweru akaba afite n'impapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu y'ubururu mu ntoki.

Ubuso bw'ubururu burimo ikirango cya unicef hagacamo umurongo ufite ibara ry'umweru munsi hakazamo n'amagambo arimo ururimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru ndetse hejuru hari ikirango cya unicef gishushanyijemo ikizeru kirimo umugore uteruye umwana.

Inzu mberabyombi irimo abantu bagiye batandukanye, harimo abana batoya bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba harimo n'abambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo n'abantu bakuru, hari abicaye ku ntebe ndetse n'abicaye bicaranye n'abana, hakaba harimo n'umukobwa wisukishije ndetse n'umugore w'umuzungukazi.

Abantu benshi bahagaze harimo abambaye imipira y'umutuku ndetse n'abandi bambaye imipira itandukanye, harimo abaganga ndetse n'abashinzwe umutekano, bari mu bukangurambaga bw'imikurire myiza y'abana bato.

Inzu mberabyombi irimo abagore bambaye imyenda itandukanye, bafite abana hakaba hari umugore wambaye umwenda udoze mu gitenge akaba afite umwana mu ntoki akaba afite n'igipapuro gifite ibara rijya gusa umweru mu ntoki.

Abanyeshuri, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, bahagaze ku ivomero bari kuvoma amazi bayashyira mu bikoresho bigiye bitandukanye, harimo indobo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'utubido tugiye dutandukanye.

Abantu benshi bahagaze bari kureba umugore wambaye igitambaro cy'umuhondo ndetse n'umupira w'icyatsi n'ijipo ifite ibara rijya gusa umweru, uri gupompa amazi ajya mu ijerekani y'umuhondo. Ifashwe n'umwana wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ikabutura.

Inzu mbera byombi irimo abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imbaho iyo nzu ikaba irimo inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse na parafo ifite ibara ry'umweru hakaba arimo amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure abantu bakaba bayobowe n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro ifite bara rijya gusa kaki.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba anambaye ga zifite ibara ry'umweru, zifashishwa mu gihe ari kuvura, ari kuvura umwana ukikiwe n'umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge bifite ibara rijya gusa umutuku.

Ikirango k'ikigo gishinzwe gufasha abana ndetse n'abagore Unicef, gifite amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari munsi y'icyo kirango ndetse hakaba harimo n'umurongo w'umweru utandukanya ijambo Unicef ndetse n'ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru akaba ari mu gice gifite ibara ry'ubururu bwijimye iruhande rw'icyo gice hari amagambo ari mu ibara rijya gusa umuhondo ari mu rurimi rw'icyongereza munsi yaho hari amashusho y’abantu bagiye batandukanye harimo abambaye amarinete abambaye amakoti afite ibara ry'umukara ndetse n'abambaye ibitambaro mu mutwe.

Abana umwe babiri batatu bane bambaye imyenda igiye itandukanye harimo uwambaye bote n'ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'umutuku. Akaba afite inkoni mu ntoki, hakaba hari n'undi urigupopa amazi kuri kano hariho ijerekani y'umuhondo. Hakaba hari n'undi wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa kaki n'undi wambaye isengeri n'ipantaro ijya gusa kaki.

Abantu benshi harimo abana batoya ndetse n'abantu bakuru, harimo umugore wambaye amarinete ndetse akambara n'imyenda idozwe mu gitenge, harimo amabara, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku n'umukara.

Ibiganza by'umuntu biri gukaraba amazi ari guturuka mu ivomero rusange, ryubakiye ku gasima gafite ibara rijya gusa kaki, ku ruhande hakaba hari urukuta rufite ibara rijya gusa icyatsi.

Umugabo wambaye ishati irimo utuzu dufite amabara ajya gusa nk'ivu, wambaye n'ipantaro y'umukara, ari ku ivomero rusange rifite robine ebyiri, akaba afashe ku jerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma yiwe hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ari kumwe n'umugore ufite umwana mu ntoki, wambaye ingofero ifite ibara rijya gusa umuhondo, uwo muganga akaba ari kumuha umuti awumunywesha.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano z'ikigo zisa ubururu, ikanzu y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kuri robine asukura intoki ziwe akoresheje isabune n'amazi meza.

Abagore umwe babiri batatu, bari kuri kano bavoma, aho babiri bari gupompa amazi akaza, undi ayavoma ayashyira mu ndobo ndetse no mu mabase, bifashishije baje kuvoma.

Abagore benshi bahagaze harimo abambaye impuzankano z'amaji afite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi bahagaze bambaye imyenda isanzwe hakaba harimo uhetse umwana ndetse bakaba bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye afite amadirishya afite ibara rijya gusa nk'ivu arimo ibirahure.

Urupapuro rw'umwe ruriho amabara abiri atandukanye, aho ibara ry'umukara ari ryo ryiganje cyane kurusha ibara rijya gusa umuhondo, muri iryo bara rijya gusa umuhondo harimo akamenyetso kajya kumera nk'inyenyeri na none kakaba gafite ishusho y'umusaraba.

Umugore wumuzungu wambaye umupira ufite ibara rijya gusa nk'ivu, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akambara n'udukomo ku kuboko kw'iburyo, akaba afite inyongerajwi ifite ibara ry'umukara, inyuma yiwe hakaba hari ibirango bigiye bitandukanye ndetse n'ikirango cy'ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu UNICEF.

Abantu batandukanye harimo abantu bakuru ndetse n'abana, abana bambaye impuzankan z'ishuri zisa ibara ry'umuhodo ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa kaki, bakaba bari kumwe n'abantu bakuru harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye. Bakaba bari imbere y'inzu ifite inkuta z'ubururu ndetse n'umweru, kuri icyo gikuta hakaba hariho ubuso bw'ubururu, bwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mw' ibara ry'umweru.

Inzu mbera byombi irimo abantu batandukanye, harimo abaganga bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, bose bakaba bambaye udupfukawa ndetse bakaba bari gukingira abantu batandukanye bose kandi na bo bambaye udupfukamunwa.

Abantu batatu harimo umuganga ndetse n'umubyeyi ufite umwana mu ntoki, aho umuganga yambaye impuzankano y'itaburiya y'umweru ndetse n'agakoresho gapima uko umutima w'umuntu utera, akaba ari gusuzuma umwana uburwayi afite.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye ariko zifite amabara asa, aho izo ntebe zifite ibara rijya gusa icyatsi cyerurutse bose bakaba bicaye kuri izo ntebe, imbere yabo hari ameza afite ibitambaro by'umukara, imbere kuri iyo meza hakaba hariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu igeretse kabiri ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umweru, ikaba yubatse impande y'izindi nzu na zo zigeretse n'indi itageretse, zifite inkuta zijya gusa umweru, imbere yazo hakaba ari ikusanyirizo ry'amazi.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu, wambariyemo umupira ufite ibara rijya gusa kaki, akaba afite igipapuro kiriho amashusho ashushanyije umugabo ndetse n'umugore, akaba ari kuyereka umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, ukenyeye igitenge ku gice cyo hasi.

Abana batatu barimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, umuhungu yambaye umupira w'ubururu, umukobwa uri hagati yambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi undi mukobwa uhera, yambaye umupira ujya gusa mu ibara ry'ivu, bakaba bateze amaboko ku ivomero rusange bakaraba intoki.

Umugabo wambaye amarinete afite ibara ry'umukara, munsi yiwe handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite ibara ry'umweru ku ruhande rwiwe hari ubuso bw'umweru burimo amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwijimye ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abana umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, bambaye impuzankano y'ikigo cy'ishuri bigaho bakaba bari kuri robine bamwe bavomera indobo z'umuhondo, abandi bakaba bari gupompa amazi.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari ishusho y'umukobwa ufite imisatsi isutse, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku, munsi y'uwo mukobwa hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'amazina y'uwo mukobwa.

Abana benshi bahagaze imbere y'ivomero rusange batandukanye bambaye n imyenda itandukanye harimo abambaye imipira ifite ibara rijya gusa n'umweru bambaye imipira ifite ibara ry'umweru bakaba bahagaze imbere y'ivomero rusange bazanye amajerekani ndetse n'utubindo two kuvomeramo akaba ari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu uri gupompa amazi ava muri kano ajya mu majerekani bazanye kuvomeramo.

Umwana mutoya wambaye umupira w'umutuku, ufite igikombe gikoze mu cyuma gifite ibara rijya gusa umuhondo, ateze kuri robine iri kuvamo amazi ameneka hasi.

Uruganda rufite inyubako zifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'amabati afite ibara ry'umutuku, uru ruganda rukaba rushinzwe gutunganya amazi.

Abana babiri bahuriye ku ivomero rusange bari kuvomera indobo zifite ibara ry'umweru, aho umwana wa mbere yambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'icyatsi ndetse undi akambara umupira ufite ibara ry'ubururu akaba anafite indobo ifite ibara ry'umweru mu ntoki.

Abana bane bahagaze, umwe uri gupompa amazi ayashyira mu ibido y'umuhondo, aho umwe yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'ubururu na bote, undi uri gupompa, yambaye agapira kajya gusa nki'ivu n'ikabutura y'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu n'ikabutura, undi yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba bose bambaye udupfukamunwa hagati yabo hakagenda haba harimo utumeza dutoya duteretseho amazi, inyuma yabo hakaba hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda kiri ku cyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, akaba ashushanyije hashushanyijeho imbonerahamwe iriho igice kimwe gifite ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, ikindi gice kikaba gifite ibara ry'umweru.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye umupira w'ubururu ucimo imirongo y'umukara ufite isabune ifite ibara rijya gusa umutuku ari gukaraba intoki akoresheje isabune n'amazi meza ari gusukirwa n'umuntu mukuru ufite ijage y'ubururu mukiganza.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba harimo abagore bicaye hasi bakenyeye ibitenge bambaye imipira y'umweru bakikiye abana hakaba n'abandi bagabo ndetse n'abagore bari kugenda bita ku bana babasomesha amata ari mu cyatsi.

Umuganga wambaye amaherena afite ibara ry'icyatsi akaba anambaye n'itaburiya ifite ibara ry'umweru, mo imbere akaba yambayemo imyenda idoze mu bitenge, ari guhereza umuti umwana wambaye ingofero ifite ibara rijya gusa n'umuhondo, ukambara umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru, umwana akaba akikiwe n'umugore wambaye imyenda idoze mu gitenge.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira urimo ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ibara ry'umukara. Akaba yambaye ikabutura y'icyatsi. Akaba arikoga mu mazi. Amazi aturutse ku ivomero rusange.

Abantu benshi harimo abahagaze ndetse n'abicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa umutuku, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'umweru hejuru ndetse hagati hakaba harimo ibara ry'ubururu, hakaba hari n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi bahagaze barimo abagabo n'abagore ndetse n'abana ndetse n'umugore uteruye umwana, bari kwitegereza umugore wambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe n'umupira w'icyatsi, yambaye n' ijipo ifite ibara ry'umweru uri gupompa amazi ku ivomero rusange, hakaba hari umwana utezeho ijerekani rifite ibara ry'umundo, uwo mwana akaba yambaye umupira, isengeri y'umutuku ndetse n'ikabutura ifite ibara rijya gusa n' ivu.

Abantu batandukanye harimo abaganga ndetse n'abaje kwakira serivisi abaganga bari gutanga, hirya yabo hari umusore uhahagaze wambaye impuzankano y'abakoranabushake, harimo umuganga w'umuhungu wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga zabugenewe, mu gihe bari kuvura, hakaba hari n'undi witeze igitambaro, wambaye ikarita mu ijosi igaragaza imyirondoro ye, abandi bakaba bambaye impuzankano y'abaganga ifite ibara ry'ubururu.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, abicaye ku gice cyo hasi bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hakaba hari abantu bayoboye ikiganiro bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa umweru, hagati y'abo bantu bicaye imbere hari utumeza dutoya dufite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, utumeza tukaba duteretseho amazi yo kunywa, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye ndetse bose bakaba bambaye udupfukamunwa, bahuriye ku ivomero rusange rufite inkuta zisa umweru n'ubururu. Iryo vomero rikaba rifite idirishya rifite ibara ry'ubururu ririmo ririmo ibirahure ndetse hakaba hari na robine iri kuvamo amazi ivomera amajerekani afite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze harimo umugabo wambaye ijile ifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba yambariyemo agapira gafite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, bakaba bari kwereka umugabo wicaye wambaye umupira ufitemo ibara ry'umukara n'umweru. Inyuma yiwe hari abana bafite ibyapa bifite ibara ry'umweru biriho ibirango bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye, inyuma yaho hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kirimo ibirango bigiye bitandukanye, ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru.

Inzu ifite ibara ry'ubururu, hejuru akaba handitse amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yanditse ngo girabu ubuzima, imbere y'iyo nzu hakaba hicaye abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda harimo n'ushinzwe umutekano wambaye umwambaro w'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze bambaye impuzankano y'amataburiya afite ibara ry'ubururu, izi muruzankano zambarwa n'abajyanama b'ubuzima. Harimo n'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, abajyanama abenshi biganjemo ni abagore.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ikigo, ifite ibara ry'umuhodo ndetse n'ijipo ijya gusa nk'ibara rya kaki, akaba ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza y'isabune, akaba amazi ari guturuka mu ndobo, akaba ari gukarabira mu kabase gakozwe mu cyuma.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, wunamye ari gukaraba amazi aturutse muri kandagira ukarabe ikozwe mu biti, ndetse n'akajerekani gatoya k'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze batandukanye harimo abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu. Bambaye n'amakarita ariho ibibaranga mu ijosi. Bakaba bahagaze imbere y'umugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara wambariyemo n'ishati y'umweru. Ku ruhande hakaba hari umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi. Bose bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru. Hejuru kuri iyo nyubako handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo ikigo nderabuzima cya Mayange.

Abantu benshi higanjemo abana batoya bambaye imyenda igiye itandukanye harimo n'umugabo mukuru wambaye ishati idoze mu gitenge bahuriye ku ivomero rusange bapompa ikazamura amazi, bari kuvomera amajerekani afite amabara atandukanye, harimo amajekani afite ibarajya gusa n'umweru ndetse n'andi afite ibara rijya gusa nka kaki ndetse n'utubido dutoya dufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Ikigega kinini cyubatswe gifite urukuta rufite ibara rijya gusa kaki, kikaba gifite n'ibindi byuma bigiye byubakiyeho, kigakusanyirizwamo amazi yanduye mbere yo kuyatunganyiriza mu ruganda.

Abantu benshi bahagaze, bambaye imyenda igiye itandukanye, bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, zikaba zishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, hariho igishushanyo cy'umwana, inzu ndetse n'igiti.

Abantu bahagaze batandukanye harimo umugore n'abagabo bane ndetse n'umwana mutoya wikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo. Abagabo bamwe na bamwe bambaye udupfukamunwa abandi nta dupfukamunwa bambaye bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Abantu batandukanye, harimo abakobwa n'abahungu ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umweru, bakaba baje bagannye ivomero rusange rifite ibara ry'ubururu, bakaba bafite ibivomesho bigiye bitandukanya, hari abafite indobo ndetse n'abafite amajerekani, byose bikaba bifite amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'abambaye imyenda isanzwe, bakaba bambaye n'amakarita abaranga, agaragaza ikigo bakorera, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umwana w'umukobwa wicaye asutamye ku ivomero rusange, ririho amajerekani y'umuhondo ndetse niy'ubururu, akaba ari kuvomera mu ibase ikoze mu cyuma. Uwo mwana w'umukobwa akaba yambaye imyenda idoze mu gitenge.

Abanyeshuri biga amashuri abanza bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ishati ifite ubururu bwerurutse, bakaba bafite ibikombe bifite amabara agiye atandukanye bari kuvoma amazi ku kigega gifite ibara ry'umukara, gifite amazi meza asukuye.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuyungurura amazi, aho bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ndetse hakaba n'igifite ibara ry'ubururu n'umukara n'umuhondo, ibi bikoresho byifashishwa ku bigega bibika amazi yo kunywa, bikaba biyungurura amazi mabi bikayagira amazi meza ku buryo umuntu yayanywa.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara isutse wambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo ndetse akaba yambariyemo umupira w'ubururu bwerurutse ku ruhande rwe hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, inyuma yiwe hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu guteka.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agiye afite amabara atandukanye, amagambo ya mbere afite ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza, munsi yaho hari andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, munsi hakaba n'andi ari mu ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza, kuruhande hari ikirango cy'igishushanyo gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Inzu ifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, hanze y'inzu hakaba hari ubusitani buteyemo ibyapa bigaragaza amazina y'iryo vuriro.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo n'abagore, harimo n'abambaye impuzankano z'umutekano wa porisi, inyuma yabo hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru, kiriho ibirangantego bigiye bitandukanye, hariho ikirangantego cya Repuburika y'u Rwanda, ndetse hakaba hariho n'amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu mbera byombi irimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore b'abirabura ndetse n'abazungu bambaye imyenda igiye ifite amabara agiye atandukanye barahagurutse ku ntebe bari bicayeho zifite amabara ajya gusa umukara ndetse bafite imeza zibari impande zifite ibitambaro by'umweru ziteretseho amazi yo kunywa bose bari gukoma amashyi.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, munsi yaho hakaba hari n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'ubururu, ku ruhande hakaba hariho umuhungu wambaye ishati y'umweru n'amarinete ndetse akaba afite umusatsi w'umukara.

Umugabo ufite umusatsi mukeya wipfutse mu maso, akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, akaba yegamye ku gikuta gifite ibara rijya gusa nk'ivu, hejuru kuri icyo gikuta hakaba hariho ibitabo bifite amashusho agiye atandukanye.

Umugabo wambaye ishati idozwe mu gitenge ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ahagararanye n'umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacikaguritse.

Umugore wifashe mu mutwe ufite imisatsi miremire isutse ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu bwerurutse akaba yicaye ku buriri bufite amashuka afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ingofero ifite ibara rijya gusa umweru harimo umurongo w'umukara munini, akaba anambaye ikoti ry'ikoboyi rifite ibara ry'ubururu akaba ahetse igikapu gifite ibara rijya gusa umukara, akaba anambaye isaha ku ukuboko kw'ibumoso, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba n'irindi riri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo ufite imisatsi y'umukara ukenyeye igitenge akaba afite amashashi mu ntoki wicaye hagati muri rigori iruhande rwe hari ibindi bikoresho bifite amabara agiye atandukanye arimo umukara ndetse n'umweru, umugabo akaba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ivuriro rifite ibara rijya gusa umweru n'amabati afite ibara rijya gusa kaki, rikaba rifite amadirishya n'inzugi bisa icyatsi n'ibirahure, ndetse hakaba ari n'akazu gafite ibara ry'ubururu, kari iruhande ry'iryo vuriro, hejuru ku ivuriro hari icyapa, gifite ibara ry'umweru kiriho ikirango cy'iryo vuriro, ndetse n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu ifite urukuta rufite ibara rijya gusa umutuku. Akaba ifite idirishya ry'imbaho rifite ibara ry'umukara. Iyo nzu igice kimwe cyarasenyutse, hakaba hicayemo umugore wicaye ku ntebe y'urubaho. Akaba yambaye ishati idoze mu gitenge, ndetse hasi akaba akeneye igitenge akanambara n'inkweto zifunguye. Imbere y'iwe hari umukeka uboshye mu migwegwe.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku, wambariyemo agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye k'amaboko magufi, wicaye imbere y'inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi z'umweru zirimo ibirahure.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru uteze igitenge mu mutwe, gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, akaba yambaye igitenge bita iribaya, gifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo ndetse n'umukara.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru munsi akaba ari ishusho y'umuntu ufite imisatsi isutse uri guseka kuruhande rwewe akaba ari amagambo nanone ari mu rurimi rw'icyongerezaw ibara ry'ukaba agiye afite imibare ari irimo ubuso bugiye butandukanye aho umubare wa mbere urimo ubuso bufite ibara ry'umutuku umubare wa kabiri ukaba urimo ubuuso bw'icyatsi warituka uburimo ubuso bw'uburu.

Umugabo wambaye ingofero, wambaye n'ishati ifite imirongo igiye inyuranamo, wakenyeye n'igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, akaba afite n'icumu rya kinyarwanda mu ntoki, inyuma yiwe hakaba hari urugo rwubakishijwe imigano.

Inzu mberabyombi irimo abantu bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa umweru, muri iyo nzu mberabyombi hakaba harimo inkuta zisize ibara ry'umweru, hakaba hari n'ibyapa bigiye bifite amabara agiye atandukanye.

Igishushanyo gishayije umutwe w'umuntu gifite ubwonko bufite ibara rijya gusa umutuku. Ndetse icyo gishushanyo gishushanyije umutwe kikaba gifite ibara ry'ubururu harimo n'umweru werurutse. Kandi uwo mweru ukaba ukikijwe n'ubuso bw'ubururu.

Umukobwa wicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa kaki, wambaye ipantaro y'ikoboyi, akaba yambaye n'isengeri ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye umukufe mu ijosi, yambaye udukomo tubiri ku kaboko k'ibumoso akaba ari guseka, afite n'imisatsi myinshi y'umukara.

Abantu batatu batandukanye, harimo umugore wambaye umupira w'umweru, ufite agakoresho gafite ibara ry'umweru kerekana ubushyuhe umuntu afite ndetse afite n'umurongo ngendanwa ugezweho ufite ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umugore wambaye igitambaro cy'ubururu mu mutwe ndetse akambara n'umupira ufite ibara rijya gusa umuhondo, yambariyeho ikanzu idozwe mu bitenge, akaba ateruye umwana mutoya.

Inzu mberarabyombi yicayemo abantu benshi batandukanye harimo abicaye ku gice cyo hasi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari abantu bicaye ku ntebe z'umukara bose bambaye imyenda itandukanye bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirango cya repubulika yu Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Amashusho y'abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru bambaye imyenda itandukanye. Munsi yaho hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza yandikishijwe ibara ry'umukara afite ubuso bw'umuhondo. Munsi yaho hari amagambo ari mu rurimi rw'cyongereza afite ibara ry'umweru, azengurutswe n'ubuso bw'umukara.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'umwana bicaye ku dutebe tw'imbaho hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku undi yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rijya gusa umweru, hakabamo n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'abandi biteze ibitambaro ndetse n'abandi bifubitse ibitenge ndetse n'umwana mutoya wambaye imyenda idozwe mu bitenge.

Umugore uteze igitambaro gifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse akaba yambaye n'umupira ufite ibara rya kaki, akaba yambaye n'ijipo idoze mu gitenge, akaba ateruye umwana mutoya wambaye umupira w'icyatsi ku ruhande rwe hakaba hari n'undi mwana mukuru uruta uwo ateruye wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hakaba hari inkoko iriho ibakure irimo amasaka.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, harimo abashinzwe kwakira abantu bateraniye aho ngaho, harimo umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, wambaye n'umupira w'umweru uri kwita ku mugore waje wambaye ibitenge, wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umupira urimo ibara rijya gusa kaki.

Urupapuro ruriho ibirango bigiye bitandukanye hariho ikirango cya repubulika y'uRwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu rwanda rukaba rwanditseho amagambo ari mu cyongereza ari mu ibara ry'umweru ndetse urwo rupapuro rukaba rufitemo amabara agiye atandukanye harimo umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ishati ya'maboko maremare ifite ibara ry'icyatsi inyuma hakaba hari abantu bahagaze batandukanye bambaye, imyenda igiye itandukanye ndetse inyuma n'ikibumbano kiboshywe mu biti gishushanya ingagi.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse ufite igitebo ku ruhande rw'ibumoso ndetse akaba afite n'amashashi ku ruhande rw'iburyo, ahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, ikaba ifite n'amapine y'umukara.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, ari mu ishusho y'umutwe w'umuntu, akikijwe n'amabara y'icyatsi agiye atatanye, akaba ari n'amatariki munsi ndetse n'ukwezi.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye bafite ibyapa mu ntoki bifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'umweru n'icyatsi bahagaze inyuma y'icyapa gifite ibara rijya gusa umuhondo ririho ikirango cya repubulika y'u Rwanda bakaba bahagaze mu busitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye harimo n'imikindo.

Umugore wambaye ingofero y'ubwoya ifite ibara ry'umukara mu mutwe akaba yambaye ikote rifite ibara ry'umukara yambariyemo umupira ufite ibara ry'umweru akaba afite agatambaro k'umweru mu ntoki ari kwihanaguza mu ntoki.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye agapira k'umweru, afite akadodo gafite ibara ry'umweru kifashishwa mu gusukura amenyo, ari kugenda agacisha mu menyo.

Abantu batandukanye aho harimo abaganga bambaye udupfukamunwa, ndetse n'imipira ifite ibara ry'umweru . Hakaba hari n'umukobwa waje kwisuzumisha ikibazo cy'amenyo, akaba hari umuganga uri kumwitaho wambaye agapfukamunwa ndetse n'imisatsi isutse, akaba yambaye ga zabugenewe mu gihe cy'ubuvuzi. Akaba afite agakoresho, ari kumutunga mu kanwa gafite ibara ry'umweru.

Ni inzu mberabyombi ifite inkuta z'umweru, irimo abantu batandukanye bambaye imyenda igiye itandukanye, hakaba harimo abiganjemo bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, abandi bakaba bambaye imipira ifite ibara ry'umweru ndetse n'umugore wambaye umupira ufite ibara ryijya gusa umuhondo ku gice cyose akaba yakenyeye igitenge, abambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa na kaki, imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Umugore uri kumwe n'akana, bose bambaye udusengeri tw'umweru, bose bakaba bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, umugore akaba ari kwereka umwana uko bakoresha uburoso bw'amenyo basukura amenyo.

Ibiganza by'umuganga byambaye ga zisa icyatsi, zikaba ziri gusuzuma amenyo y'umwana mutoya wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, uwo mwana akaba aryamye ku gatanda gafite ibara ry'umutuku.

Abantu babiri batandukanye harimo umuganga wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru ndetse akambara na ga zifite ibara ry'umweru mu ntoki. Akaba afite n'urudodo rw'umweru mu ntoki. Hakaba hari n'undi muntu uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umutuku wambaye umupira w'umweru uciyemo imirongo y'umukara itambitse.

Umugabo ufite umusatsi mukeya w'umukara ufite amatwi abiri ndetse akaba ari guseka yerekana amenyo yose. Akaba yambaye agapira k'umweru inyuma y'iwe hari urukuta rufite ibara ry'umuhondo.

Ishusho itangwa n'icyuma cyo kwa muganga, kimaze gusuzuma umubiri w'umuntu, iri shusho ritangwa n'icyuma kimaze gusuzuma mu kanwa h'umuntu uko hifashe, gisuzuma uko amenyo ameze.

Ibiganza by'umuganga byambaye ga zifite ibara ry'umweru, bikaba bifite ibikoresho bibiri bitandukanye byifashishwa mu kuvura ikibazo cy'amenyo, akaba agiye kuvura umwana mutoya wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, akaba afite n'imishumi ibiri y'umweru mu ijosi.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye isengeri y'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo, afite uburoso mu ntoki ari gusukura amenyo yiwe.

Udukoresho tw'utwuma tugera kuri makumyabiri na kamwe, twifashishwa bavura umuntu ufite ikibazo cy'amenyo utu dukoresho twifashishwa n'abaganga.

Abantu batatu batandukanye, harimo abaganga babiri bambaye impuzankano z'umukara, bose bakaba bambaye ga n'udupfukamunwa n'amarinete, mu gihe bari kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Ivuriro rifite amadirishya, afite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure ndetse n'utubati dufite ibara ry'umweru n'umukara, iri vuriro rikaba rishinzwe kwita ku bafite uburwayi bw'amenyo, rikaba rifite intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kwita kuri abo barwayi bafite uburwayi bw'amenyo, bifite ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye harimo umugabo wambaye ikote rifite ibara rijya gusa nk'ivu, ku ruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umweru n'amarinete, ku ruhande rw'uwo mugore hari umugore w'umuzungukazi wambaye agapira k'amaboko magufiya, akaba ahagararanye n'undi mugabo ku ruhande wambaye ishati y'umweru, bakaba bahanze amaso umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, uri kwigisha umwana wambaye ishati y'icyatsi, uburyo basukura amenyo.

Ibiganza bya muganga byambaye ga z'umweru, bikaba bifite udukoresho tubiri dutandukanye, twifashishwa mu kuvura uburwayi bw'amenyo, hakaba hari n'undi mwana uryamye ku gatanda gafite ibara ry'icyatsi, wambaye umupira w'icyatsi ufite udushumi tw'umweru mu ijosi.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye isengeri y'umweru, uri kwirebera mu ndorerwamo, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, ari kubukoresha isuku yo mu kanwa.

Abantu bahagaze batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze imbere y'ikibaho gifite ibara ry'umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse hakaba hari n'umwarimu uri kwereka umwana wambaye ishati y'icyatsi uburyo bakoresha uburoso bw'amenyo basukura amenyo.

Abana benshi biga mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano z'ikigo, bambaye amashati arimo imirongo y'icyatsi ndetse n'umweru hasi, bakaba bambaye amakabutura afite ibara ry'icyatsi, bose bakaba bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki bari gukoresha basukura amenyo yabo ndetse n'igikombe kirimo amazi, ibikombe bikaba bifite amabara agiye atandukanye.

Umuganga wambaye iburiya ifite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye naga zifite ibara ry'icyatsi, aka afite agakoresho mu ntoki kifashishwa mu gusuzuma ikibazo umurwayi afite cy'amenyo ku gatanda akaba ariho umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu irimo uturongo tw'umweru akaba afite n'umusatsi w'umukara n'ubwanwa akaba yicaye ari guseka.

Ibiganza by'umuganga byambaye ga zijya gusa umutuku akaba yambaye n'itabuririya ifite ibara ry'umweru iriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afite igikoresho cyifashishwa mu kuvura amenyo afite ikibazo akaba afite n'igishushanyo cy'amenyo mu ntoki.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, muri icyo cyumba hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse n'amarinete yazamuye ari ku gice cy'umutwe, akaba yambaye agapfukamanwa gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba anambaye na ga, akaba ari gusuzuma umwana mutoya urwaye amenyo, akaba aryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu ndetse uwo mwana akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku.

Muganga w'umuzungu wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse akambara na ga zifite ibara ry'ubururu afite ibikoresho bibiri bitandukanye harimo agakoresho kamufasha kureba mu kanwa ndetse n'urushinge mu kundi kuboko, bakaba bari kumwe n'undi uri kumufasha mu gukora ibyo byose, bakaba bari kuvura umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye bari kumuvura ikibazo cy'amenyo afite.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, akaba ari kumwe n'umugore w'umuganga ushinzwe kwita kubarwayi bafite ikibazo cyamenyo.

Umugore ufite imisatsi migufi y'umukara wambaye isengeri y'umweru ufite urudodo mu ntoki rwifashishwa mu gusukura amenyo. Arigufata urudodo akarucisha hagati mu menyo yiwe, asukura amenyo yiwe akoresheje urwo rudodo rw'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru. Akaba yambariyemo agapira gafite ibara rijya gusa umuhondo. Akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi. Iruhande rwe hakaba hari igitanda kiraraho umurwayi. Icyo gitanda kikaba gifite ibara risa icyatsi, ndetse icyo cyumba arimo kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru riciyemo imirongo y'icyatsi baka bambaye amakabutura afite ibara ry'icyatsi bakaba bafite ibikombe bifite amabara agiye atandukanye harimo ubururu bwijimye ubururu bwerurutse ndetse n'igikombe cy'umuhondo bakaba bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki bari kubigisha gusukura amenyo yabo bakoresheje uburoso bw'amenyo.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi miremire y'umukara, intoki ziwe ziri kwerekana amenyo yiwe afite asa umweru ndetse akaba afite n'ishinya ifite ibara ry'umukara.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'imvi ndetse wambaye amarinete, wambaye n'ishati ifite ibara rijya gusa umutuku, akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse n'urupapuro rufite ibara ry'umweru ndetse n'amagambo agiye arwanditseho.

Umugabo n'umugore bageze mu myaka y'izabukuru, bafite imisatsi y'umweru irimo imvi, bafite impapuro z'umweru, imbere yabo, bakaba bafite urupapuro rw'umweru mu ntoki, umugabo akaba afite n'umurongo ngendanwa ugezweho ufite ibara ry'umukara.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru wambaye amarineti wambaye n'ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu uri kumwe n'umugore ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w’amaboko maremare ufite ibara rijya gusa umweru ndetse akaba anambaye ipantaro yikoboyi y’ubururu ,umugabo w'imyaka y'izabukuru akaba yicaye ku buriri bufite amashuka y'umweru kandi akaba afite n’inzitiramibu ifite ibara ry'umweru.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru, wambaye umupira w'amaboko maremare urimo ibara rijya gusa umutuku n'umukara, akaba afashe udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi batandukanye harimo abantu bakuru ndetse n'abana bambaye imyenda igiye itandukanye irimo amabara agiye atandukanye, bicaye ku ntebe iriho ishuka ifite ibara ry'umweru. Bakaba bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse. Hakaba harimo n'indobo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umufuniko w'ubururu n'indi iri inyuma ifite umufuniko w'umweru.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru wambaye ingofero mu mutwe ndetse akaba yambaye ishati ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambaye ipantaro ifite ibara risa n'ubururu bwijimye, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, akaba yambaye ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambaye n'inkweto zifite ibara ry'umweru.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi irimo imvi, wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo ndetse akaba yambaye n'akajiri gafite ibara rijya kumera nk'ivu, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ufite imisatsi isutse.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro afite ibara ry'umukara, gusa uwo hirya yambaye ipantaro y’umukara irimo ibara ry'umweru. Bose bafite amacupa y'amazi mu ntoki.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye amajiri, abambaye ibitenge, abiteze ibitambaro mu mutwe, abambaye amarinete, bambaye ubwoko bwose bw'imyenda, bari gutanga imfashanyo ku bantu bageze mu myaka y'izabukuru.

Umugabo n'umugore bari mu myaka y'izabukuru umugore ufite imisatsi myinshi harimo imisatsi yabaye umweru yabaye imvi ndetse ha akarimo n'indi y'umukara yambaye umukufi mu ijosi ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rye gusa umuhondo akaba afite urupapuro rw'umweru mu ntoki akaba yajyanye n'umugaboyaka y'izabukuru wambaye umupira w'ibara ry'ubururu bwijimye ndetse akaba afite n'imisatsi y'irimvi.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye ikote rifite ibara rijya gusa umutuku, ndetse mo imbere akaba yambariyemo agapira gafite ibara ry'icyatsi, akaba afashe ku rutugu umukobwa wambaye ikoti ry'ikoboyi, wambariyemo agapira k'umweru karimo imirongo y'umukara, uwo mukobwa akaba yambaye n'amarinete.

Abantu batandukanye bicaye. Hari abicaye ku ntebe ndetse n'bandi bicaye hasi mu rucaca. Harimo abagore bambaye imyenda itandukanye. Hakaba hari n'undi mugore urikuboha igitebo yifashishije imigwegwe. Hakaba harimo n'umugore w'umuzungu kazi uteruye umwana mutoya.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, aho umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, undi nawe akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara irimo umurongo w'umweru, akaba afite n'icupa ry'amazi mu ntoki, we akaba afite umupira w'umukara ku rutugu rwe.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'umweru y'imvi, wambaye ishati y'ubururu bwererutse, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara rijya gusa kaki, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w'ubururu bwijimye, akaba yambaye ikarita iriho ibimuranga mu ijosi.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi miremire ifite imvi, wambaye agasengeri k'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto ifite ibara rijya gusa ubururu, akaba yicaye ku gatapi kabugenewe bakoreraho imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri, harimo umusaza ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye umupira ufite ibara rya kaki ndetse akaba ari kumwe n'umugabo wambaye amarinete, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa nk'ivu, ushinzwe kumwitaho.

Abagore batanu bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse bateze n'ibitambaro bifite amabara agiye atandukanye bari mu gikorwa cyo gusarura icyayi bagishyira mu gitebo kiboshywe mu migwegwe. Bakaba bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wambaye ishati irimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, iyo shati ikaba ifite ibara ry'umutuku, rikaba ariryo ryiganje, yambayemo agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afite agasahani gafite ibara ry'umweru karimo ibiribwa ndetse akaba ari kumwe n'umugore na we ugeze mu myaka y'izabukuru.

Uyu mugabo ugeze mu myaka y'izabukuru ufite ubwanwa bw'imvi, wambaye ishati ijya gusa kaki, akaba ari kumwe n'umuganga uri kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru, akaba yicaye ku ntebe y'umweru, akaba afite n'agakoresho gapima umutima w'umuntu uko utera mu ijosi.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru y'imvi, ufite amatwi atoboye, akaba yambayeho amaherena, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umukara, akaba yambariyemo agapira gafite ibara rijya gusa umweru, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye agakoresho gapima uko umutima utera, mu ijosi gafite ibara ry'umukara, akaba yambaye agapira gafite ibara rijya gusa umutuku, akaba ari kumufasha mu myitozo ngororamubiri.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru ufite umusatsi w'umweru urimo imvi wambaye umupira w'amaboko maremure ufite ibara ry'umweru wambayemo umupira ufite ibara ry'icyatsi, afite isahani iriho imbuto mu ntoki isani ifite ibara ry'umweru, inyuma ye hari akabati gafite ibara ry'umye ndetse n'urukuta rufite ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye harimo umugabo n'umugore bageze mu myaka y'izabukuru, harimo umugabo ufite imisatsi yumukara wambaye umupira w'ubururu, yajyanye n'umugabo uri mu myaka y'izabukuru wambaye neza ndetse akaba yambaye nishati ifite ibara rijya gusa nubururu, umugabo yajyanye n'umugore wambaye ikanzu irimo uturabyo ndetse akaba afashe ku rutugu rw'umwana mutoya hakaba n'undi mugore wimyaka y'izabukuru wambaye ishati ifite' ibara rijya gusa n'umweru.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, ufite imisatsi y'imvi, akaba yambaye amarinete, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambariyemo ishati ifite ibara ry'icyatsi.

Ibiganza by'umugabo uri mu myaka y'izabukuru wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ririmo ubururu n'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa n'ivu, uri gukina umukino ufite udukinisho dufite ibara rijya gusa na kaki ndetse n'irindi rifite umukara.

Umugabo ugeze mu myaka y'izabukuru, wicaye yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umukara, akaba yicaye n'abana babiri umwe w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo ibara ry'umutuku ndetse n'undi muhungu wicaye ku ruhande rwe hirya ufite agacupa k'umweru.

Abagore batatu bari mu myaka y'izabukuru, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, undi uri hagati yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umuhondo, akaba afite umurongo ngendanwa ugezweho ufite ibara ry'umukara, ku ruhande rwe hari umugore ufite imisatsi y'umweru, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umweru.

Umugabo n'umugore bari mu myaka y'izabukuru, umugore ateze igitambaro cy'umutuku, ndetse akaba yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afatanye ku rutugu n'umugabo uri mu myaka y'izabukuru, ufite umusatsi urimo imvi ndetse n'ubwanwa burimo imvi, akaba yambaye ikote rifite ibara ry'umukara.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, wambaye ishati ifite ibara rijya gusa umutuku, akaba afite umusatsi urimo imvi n'amarinete y'amaso n'ipantaro ifite ibarajya gusa nk'ivu, akaba afite ushinzwe kumwitaho wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba ari kumukozaho igikoresho gisuzuma uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugore uri mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru y'imvi wambaye ishati ifite ibara rijya gusa na kake, ufite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, ari guhabwa ibinini n'ushinzwe kumwitaho w'umuforomokazi wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, ndetse akaba yambaye n'agakoresho gapima k'umutima w'umuntu utera gafite ibara ry'umukara mu ijosi.

Abagabo bafite imyaka y'izabukuru bicaye batandukanye harimo abambaye amakanzu ndetse n'abambaye amapantaro bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bamwe muri bo bakaba bafite n'inkoni bifashisha mu kugenda akaba arimo uwambaye n' amarinete bose bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara zimwe.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru ufite umusatsi mukeya urimo imvi, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara rijya gusa na kaki, akaba ari kumwe n'umugore ushinzwe kumwitaho, wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rijya gusa umutuku, uwo mugore akaba afite imisatsi miremire y'umukara.

Umugabo ufite imyaka igeze mu za bukuru, ufite ubwanwa bw'imvi, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, akaba afite igikombe cya mazi mu ntoki, akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho wambaye umupira w'ubururu yambariyemo agapira k'umweru imbere, akaba afite ikarita imuriho iriho imyirondoro, akaba ari guha ibinini umugabo uri mu myaka y'izabukuru.

Umugore ugeze mu myaka y'izabukuru ufite imisatsi y'umweru wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umweru akaba ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho, ufite imisatsi y'umukara akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi wifitemo ibara ry'umweru.

Utumenyetso twinshi dufite amabara agiye atandukanye harimo ubururu bwijimye, ibara rijya gusa umutuku, umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'umweru, tukaba turiho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru, utu tumenyetso tukaba tuzinze mu buryo bugiye butandukanye, hari ubuzinzemo kabiri, hari ubuzinzemo rimwe ndetse n'inshuro zirenze rimwe.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye ariko bose bakaba bambaye amakarita arimo imyirondoro bakaba bicaye imbere y'intebe zifite ibara ry'umutuku inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, ubururu bwerurutse ndetse n'ibara rirya gusa umutuku, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ubuso bw'ubururu buriho impine z'inyuguti haririmo h, p, na r, munsi hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru asobanuye izo nyuguti ziri mu mpine.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye abicaye ku gice cyo hasi bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda itandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bayobowe n'abantu bicaye imbere yabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru hagati yabo hakaba harimo utumeza dutoya duteretseho amazi yo kunywa nyuma yaho hakaba hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi kiriho amashusho y'abantu bagiye batandukanye ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Inzu mberabyombi ifite inkuta ziriho amabara agiye atandukanya, aho hari urukuta rufite ibara rijya gusa umutuku ndetse kugice cyo hejuru hakaba hari ibara rijya gusa umuhondo, ikaba yicayemo abantu batandukanye bambaye amakoti ndetse n'indi myambaro igiye itandukanye isanzwe, hakaba harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku.

Igitabo kirimo amagambo ndetse n'ibimenyetso bigiye bitandukanye harimo amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'umutuku, n'icyatsi. Hakaba harimo n'ibimenyetso biri mu ibara ry'icyatsi, n'umutuku, n'ubururu, ndetse n'umuhondo. Hakaba hari n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Hakaba harimo n'ibishushanyo bishushanya umuntu ndetse n'umutima.

Inzu mberabyombi yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite umuryango ufite ibara ry'icyatsi cyerurutse, ikaba irimo ibirahure inzu mberabyombi yicayemo abakobwa ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'abambaye umupira w'umukara ndetse n'uwambaye umupira w'icyatsi, hari abicaye ku ntebe zisa umweru n'abicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere yaho hari ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Amabara abiri atandukanye, ibara rya mbere ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, irindi bara rya kabiri rifite ibara ry'icyatsi ryanditseho amagambo na yo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'ubururu, akaba n'andi yanditse munsi ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu mberabyombi irimo abantu bagiye batandukanye bicaye mu bice bitandukanye hari abicaye mu gice kishyiramo abagabo ndetse n'abagore imbere yaho hakaba hari abayobozi babayoboye bambaye amakoti afite amabara y'umukara ndetse bambaye na karuvate, bafite imeza imbere yabo ariho amacupa y'amazi aho hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru ndetse n'amatariki n'ukwezi.

Ibara ry'ubururu ririmo ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari munsi y'icyo kirango, hagati y'ayo magambo harimo umurongo ufite ibara ry'umweru atandukanya amagambo yanditse ngo repubulika y'u Rwanda na minisiteri ishinzwe ubuzima.

Abagore bane bicaye ku ntebe imwe bakikiye abana, inyuma yabo hari urukuta rufite ibara ry'umweru, hakaba hariho ibipapuro bigiye bitandukanye, byanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, ibyo bipapuro bigiye bifite amabara agiye atandukanye ndetse n'ibishushanyo biriho n'amashusho ariho agiye atandukanye.

Icyumba cy'ivuriro kirimo abaganga bagiye batandukanye bambaye impuzankano zimeze kimwe zifite amabara y'icyatsi ndetse bose bakaba bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'icyatsi. Muri icyo cyumba kikaba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru hakaba harimo n'ibindi bikoresho bifite ibara ry'umweru byifashishwa mu gihe bari kuvura umuntu bari kuvurira muri icyo cyumba.

Umugabo w’umuzungu wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara akambaramo ishati ifite ibara ry'ubururu bwerurutse wambaye ikarita iriho ibimuranga ifite umugozi w’ubururu yegeranye n’umukobwa wambaye ikanzu irimo uturabyo nawe wambaye ikarita ifite umugozi w'ubururu iriho ibimuranga bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse icyo cyapa cyikaba kiriho ibirango bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari umuzenguruko ufite ubuso bw'umweru, wanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hagati hakaba harimo ikimenyetso cyo guteranya gifite ibara ry'umukara, hakaba hari n'andi magambo ari ku ruhande ari mu buso bw'umweru bw'uruziga, yandicyishijwe ibara ry'umutuku.

Abagore bane bambaye imyenda itandukanye, bafashe icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo magambo akaba ari mu ibara ry'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hakaba hari umwana mutoya wasamye, bagiye guha umuti, ku ruhande rwe hakaba hari andi magambo ari mu ibara rijya gusa icyatsi kerurutse, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba yandikishijwe ibara ry'umweru, munsi hakaba hariho imbuga nkoranyambaga ndetse n'abafatanyabikorwa b'icyo kigo gishinzwe ubuvuzi.

Urupapuro rw'icyatsi ruriho ibintu bigiye bitandukanyekanye aho hariho umubare wa gatatu ndetse iruhande rw'uwo umubare hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse munsi yaho hakaba ari ikimenyetso kigaragaza uko ubuzima bw'umuntu bugenda buzamuka, bumanuka hariho n'ikimenyetso cy'umutima.

Umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara akaba yambaye amarinete, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afite igipapuro kirekire gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umutuku. Ayo magambo akaba yandikishijwe ikaramu itukura.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru ndetse harimo n'abandi bambaye imipira igiye itandukanye, higanjemo urubyiruko, bafite ibyapa mu ntoki biriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse munsi yaho hakaba hari n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umutuku, hakaba hariho ishusho y'umugore uri mu myaka y'izabukuru, wambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe. Akaba apfutse ijisho, munsi hakaba n'andi magambo ari mu'ibara ry'umukara yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Amagambo ari mw’ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse akaba ari n'amagambo ari munsi arimo amatariki ndetse n'ukwezi ari mw’ibara rijya gusa umuhondo munsi hari abafatanyabikorwa bagiye batandukanye harimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda ndetse na kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ikigo cyitwa unicef byose biri mu bafatanyabikorwa.

Umuganga wambaye umupira ufite ibara ry'umweru wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba anambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba ari gutera urushinge umugore wambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, akaba afite imisatsi isutse. Akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu, inyuma y'iwe hakaba hari umugabo wambaye ishati irimo utudomo tw'ibara ry'umuhodo ndetse n'irindi bara rijya gusa umukara, akaba anambaye agapfukamunwa k'uburu ndetse rinete.

Abaganga, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu ndetse n'umuforomo uri ku ruhande, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umutuku, bose bari aho ngaho bambaye ubupfukamunwa, abaganga bambaye impuzankano z'umweru z'ubwirinzi bw'ibyorezo.

Abantu benshi bicaye ku murongo umwe bambaye imyenda igiye itandukanye, bose bambaye udupfukamunwa, bakaba bari kumwe n'abashinzwe kubitaho bambaye impozankano z'ubwirinzi bwa kovide cumi n'icyenda.

Abantu benshi batandukanye bari mu ihema rifite ibara ry'umweru, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru, wambariyeho ijiri ifite ibara ry'umutuku, akaba ari gusuzuma umukobwa wambaye umupira w'ibara ry'umukara, ufite imisatsi miremire y'umukara, imbere yawo ku meza hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'igikoresho cy'inyongeramajwi gifite ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari hejuru ari mu ibara ry'icyatsi, munsi y’aho hakaba hari n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'ubururu, munsi hakaba hariho amatariki n'ukwezi n'umwaka.

Abamasera batatu bari kumwe n'umugabo wambaye ikote rijya gusa nk'ivu wambariyemo ishati y'umweru. Abamasera bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe, kandi bakaba bambaye amarinete. Inyuma yaho hari icyapa kiriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Icyo cyapa kikaba gifite ibara risa ry'ubururu.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, munsi yaho hakaba ari ubuso bufite ibara ry'icyatsi hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza, n'andi ari mu ibara ry'icyatsi ari rurimi rw'icyongereza, munsi yaho hakaba hari ishusho y'umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, ku ruhande rwe hakaba hari amagambo ari m'ubuso bw'icyatsi ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu batandukanye bahagaze harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yabo hari icyapa gifite ibirango bitatu bya Repubulika y'u Rwanda, munsi y’icyo kirango harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru.

Ubuso bw'ubururu bwijimye, burimo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'umweru, munsi y'ubwo buso hari amashusho y'abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo, ndetse n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye, bari ahantu hatandukanye, munsi y'ayo mashusho hari amazina y'abo bantu uko bitwa.

Amarembo y'ikigo nderabuzima, amarembo akaba afite inkuta gifite ibara ry'umweru ndetse akaba ariho igipangu cyubakishijwe ibyuma, hejuru ku gipangu hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Icyongereza.

Inzu igeretse inshuro eshatu ikaba yubakishijwe amakaro ndetse n'ibirahure imbere y'iyo nzu hakaba hari ibiti bihateye bifite ibara ry'icyatsi hakaba hari n'icyapa kiri imbere y'iyo nzu gifite ibara rijya gusa nk'ivu ndetse n'ibara ry'umukara akaba ari amagambo yanditse kuri icyo cyapa ari mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'umubare cumi naka kabiri uri mu ibara ry'umweru.

Inzu ifite inkuta zifite amabara agiye atandukanye aho igikuta gifite ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'ikindi gifite igikuta gifite ibara ry'ubururu iyo ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'ubururu ayo madirishya arimo ibirahuri iyo ifite intebe zigiye zitandukanye zifite amabara agiye atandukanye ndetse ifite amatara y'umweru ndetse na parafo y'umweru.

Ivuriro rifite igikuta gifite ibara rijya gusa umweru ndetse rikaba gifite inzugi n'amadirishya rifite ibara risa umweru hakaba harimo n'ibirahure, hanze y'ivuriro hakaba hari ubusitani buteye hariho imikindo ndetse n'indi mitako y'indabyo. Hejuru ku ivuriro hari amazina y'iryo vuriro ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, harimo igiti cy'umukindo ndetse n'ibindi, hakaba hari n'ibyuma bitangira abantu kugwa ahantu harehare, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, kazengukijwe n'amabuye afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inzu ebyiri zifite ibikuta by'umweru, ndetse n'amadirishya afite ibara rijya gusa icyatsi, n'ibirahure bisa umukara, izo nzu zifite amabati afite ibara ry'ubururu, imbere y'izo nzu hari ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'ikigega gifata amazi aturutse ku mabati.

Inzu yubakishije amatafari ahiye irimo amadirishya arimo ibirahure, ku ruhande hakaba hari inzu yubatse ifite urukuta rufite ibara rijya gusa nk'ivu hivanzemo ibara rijya gusa umuhondo, hanze y'izo nzu hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'izindi ndabyo.

Ivuriro rifite inkuta zifite amabara y'umweru, ndetse rikaba rifite amadirishya afite ibara ry'umukara, arimo ibirahure ku bwinjiro bw'iryo vuriro hari igikuta gifite ibara ry'umukara, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, hanze y'ivuriro hari imitako y'indabyo igiye itandukanye ndetse n'ibiti bihateye.

Hanze y'ivuriro hari ubusitani butandukanye buteyemo indabyo, ndetse n'ibiti akaba ari n'inyubako zifite ibikuta bisizeze ibara ry'umweru ndetse muri ubwo busitani hakaba ari icyapa cyerekana ibyumba bigenda bakoreramo serivisi zigiye zitandukanyekanya harimo: icyumba babyariramo, icyumba cy'abagabo ,ndetse n'ibindi byumba bigiye bitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru, kikaba gifite n'amadirishya afite ibara ry'umukara n'ibirahure, hakaba harimo ibitanda bibiri bifite amabara asa, buri gitanda kikaba gifite irido, muri icyo cyumba cy'ivuriro hasi harimo amakaro hejuru harimo amatara y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo ibyuma bishinzwe kugaragaza uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, ndetse n'igitanda gifite matela ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishuka y'umweru, ku ruhande hakaba hari icyuma gishinzwe kumenyereza umuntu kugenda urugendo rw'amaguru.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru wambaye ishati y'umweru, yambariyemo isengeri y'umweru, uriguterwa urushinge n'umuganga wambaye itaburiya ifite amaboko magufiya y'umweru. Uwo muganga akaba yambaye na ga zabugenewe mu gihe cyo kuvura, akaba anambaye ikarita mu ijosi iriho ibimuranga.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru. Ikaba ifite amadirishya afite ibara rijya gusa icyatsi. Ayo madirishya akaba afite ibirahure by'umukara. Iyo nzu ikaba ifite umureko ufite ibara ry'icyatsi. Imbere y'iyo nzu hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukama gafite ibara rijya gusa ubururu wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro afite ibara rijya gusa umukara, muri icyo cyumba hakaba harimo ibitanda byagenewe abarwayi kandi buri gitanda kikaba gifite irido ifite ibara rijya gusa umuhondo, muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kujugunya imyanda imaze gukoreshwa muri icyo cyumba.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba gifite akabati gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi rijya gusa umutuku ndetse n'irindi rifite ibara rijya gusa nk'icunga, hakaba harimo igikoresho kifashishwa mu gukaraba intoki ndetse n'agatanda gatoya kajyamo umwana mutoya

Ahantu batandukanye harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe bambaye imyenda igiye itandukanye, bakaba bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye hejuru ku gice cyo hejuru hari icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'ubururu bwijimye, detse n'andi yanditse rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, hirya y'aho hari ikindi cyapa gifite ibara ry'umweru hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite ibyuma byifashishwa mu myitozo ngoramubiri bigiye bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka ndetse n'indi yo guterura amaboko, iyo nzu, ikaba ifite imiryango, ifite ibirahure ndetse n'amadirishya afite ibirahure.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya bifite ibara ry'umukara, byose bikaba birimo ibirahuri, hejuru ku nzu hari amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite ibara ry'umweru, ndetse hanze y'iyo nzu hari ubusitani buhateye burimo indabyo, ndetse n'ibyatsi, ndetse n'ibiti, kandi hakaba hari n'indi mitako igiye iri ku nzu.

Inzu mberabyombi irimo intebe nyinshi zifite ibara ry'umukara imbere yayo kuri izo ntebe hakaba hari ameza afite ibara rya kacyi, ndetse iyo nzu mberabyombi ikaba ifite amatara hejuru agiye atandukanye menshi harimo ay'umweru n'umukara ndetse n'ay'umweru, iyo nzu mberabyombi ikaba ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umuhondo, imbere y'izo ntebe zisuka hakaba hari akameza gafite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'vuro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu izo nkuta hakaba hariho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri icyo cyumba hakaba n'urukuta ruriho isaha ifite ibara ry'umweru n'umukara muri icyo cyumba ha akaba harimo icyuma gishinzwe kureba uko umubiri w'umuntu umeze niba ufite ikibazo icyo cyuma kiba gifite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse icyo cyuyuma kikaba gifite n'amakaro y'umweru, kiba gifitemo ibyuma bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye, ibyuma byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye. Ibyo byuma bikaba bifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari n'agatanda gashinzwe kuryamaho umurwayi waje kuvurirwa muri icyo cyumba.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse na purafo ifite ibara ry'umweru, iriho amatara y'umweru. Kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bifasha ibice bigiye bitandukanye, harimo amaboko ndetse n'amaguru n'umugongo. Muri icyo cyumba hakaba harimo n'indorerwamo zo kwirebamo umu gihe ukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako igeretse rimwe ifite inkuta zifite ibara rijya gusa umweru ikaba ifite ibyuma byubakiyeho bifite ibara rijya gusa nk'ivu, ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya afite ibara rijya gusa nk'ivu, hakaba harimo ibirahure, imbere y'iyo nyubako hari icyuma gifashe ibendera ry'u Rwanda, hakaba hari n'imodoka ihagaze imbere y'iyo nyubako ifite ibara ry'umutuku, hakaba hari n'ubusitani buteye imbere y'iyo nyubako.

Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse na parafo ifite ibara ry'umweru n'amatara y'umweru, irimo utubati dufite amadirishya arimo ibirahure, hakaba harimo amarinete menshi afite amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umukara ndetse n'umweru y'ubwoko bwose, munsi y'ako kabati hari icyapa gifite ibara ry'umweru kirimo umugore wambaye amarinete y'umukara.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta z'umweru n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure, icyo cyumba kikaba kirimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo n'ibindi bikoresho byifashishwa hasuzuma ibizamini byafashwe n'abaganga.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda igiye otandukanye, bakaba bose bambaye udupfukamunwa, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'urukuta ruri hirya rwubatse rufite irangi ry'umweru, hejuru y'inyubako hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'ubururu.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse rikaba rifite amatara y'umweru hasi hakaba hari amakaro, ndetse muri iryo vuriro harimo ibitanda bifite ibara ry'umweru kuri buri gitanda hari irido rifite ibara rjya gusa icyatsi, ndetse hari naho bakirira abarwayi hari n'amadirishya afite ibara ry'umweru harimo ibirahure.

Imodoka eshatu zifite amabara atandukanye ziri hirya harimo isa ifite ibara ry'umweru ndetse n'ifite ibarajya gusa nk'ivu, ziparitse iruhande rw'ubusitani buteyemo indabyo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiti bitandukanye harimo igiti cy'umukindo ndetse n'ikindi giti kiri ku ruhande cy'ubundi bwoko, bikaba biri imbere y'inyubako zubabakishijwe amatafari ahiye ndetse zikaba zifitemo umurongo w'umweru munini.

Abantu: umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Harimo abaganga bambaye imyenda y'mweru ndetse bakaba banambaye amakarita abaranga mu gatuza, hakaba harimo uri gusuzuma umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse akaba anambaye n' amarinete, akaba ari kumusuzuma uko ubuzima bwe buhagaze, hakaba hari n'undi uri kwandika ku rupapuro rw'umweru wicaye ku ntebe y'umutuku, hakaba hari n'undi mugore wambaye ishati iciye amaboko.

Inzu yubatse ifite ibikuta bifite ibara rijya gusa umukara, ikaba ifite amadirishya ndetse n'imiryango, ifite ibirahure ndetse imbere kuri iyo nzu hakaba hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, agaragaza icyo iyo nzu ikora.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, utwaye igare ririho umukobwa wambaye umupira ujya gusa umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite indobo ifite ibara ry'ubururu bakaba bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi.

Inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibara rijya gusa umukara n'ibirahure mo imbere mu nzu hakaba harimo intebe zifite amabara atandukanye. Hari intebe zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'izindi zifite ibara ry'ubururu hakaba harimo n'imitako y'indabyo.

Umugore wambaye ingofero y'umukara mu mutwe akaba yambaye ikanzu idoze mu igitenge akaba ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y’ubururu ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba yambaye agakoresho gapima umutima w'umuntu ukuntu utera gafite ibara ry'umukara ndetse n'utundi dukoresho dukozwe mu byuma akaba akambaye mu ijosi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara rijya gu gusa umukara arimo ibirahure. Mo imbere muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Muri icyo cyumba hakaba harimo n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, itaburiya y'umweru, akaba anambaye n'agapfukamunwa k'umukara.

Inzu ifite igice cyubakishijwe igikuta gisize ibara ry'umweru ndetse hakaba n'ikindi gice cyubakishije amabuye afite ibara ry'umukara n'amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure, hanze y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'abantu bahagaze hanze y'iyo nzu.

Icyumba gifite inkuta z'umweru kikaba kimanitsemo n'umutako ufite ibara ry'umweru urimo amashusho yashushanyijwe arimo umuntu. Icyo cyumba kikaba kirimo utubati n'ameza ndetse n'intebe bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye, harimo ibifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara rijya gusa kaki. Ibindi bikaba bifite ibara rijya kumera nk'ivu.

Icyumba kiri mu ivuriro gifite inkuta ziriho ibiremwa bigiye bitandukanye. Hariho inzovu, ibisiga, ibisamagwe, ndetse n'inyoni n'ibisiga n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu, ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho gifite ibara ry'umukara. Ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu bifite ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse hasi hakaba hasize irangi ry'ibara ry'ubururu, muri iki cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abantu batandukanye bahagaze ku murongo bambaye imyenda igiye itandukanye bahagaze imbere y'inyubako ifite urukuta rw'umweru, ifite igice cyo hagati kiri gifite ibara rijya gusa nk'ivu kiriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse no mu rurimi rw'icyongereza afite ibara risa icyatsi.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane batandukanye, hari harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye impuzankano ya kiganga, bose bambaye amataburiya y'umweru. Bari ahantu hari ibikoresho bitunganya imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa bavura abarwayi.

Amarembo y'ivuriro riherereye i Nyanza akaba yubakishijwe igipangu cyubakishije ibyuma, gifite ibara ry'ubururu hakaba hariho n'inyuguti ya H iri mu ibara ry'umweru. Icyo gipangu kikaba gifashe ku nkuta zifite ibara ry'umweru hanze hakaba ari ibyapa bivuga kuri iryo vuriro amasaha rikorera ndetse n'igihe ridakora.

Ivuriro ririmo ibitanda bigiye bitandukanye ndetse buri aho igitanda kigiye kiri hari imashini, ishinzwe gukontorora umurwayi uryamye kuri icyo gitanda ndetse hakaba ari n'amarido maremare afite ibara ry'ubururu, iryo vuriro rikaba rifite inkuta z'umweru, hakaba harimo umuforomokazi uri gutambuka wambaye impuzankano y'icyatsi.

Abagore babiri bicaye bambaye amakanzu y'amaboko magufi, bari gusuzumwa n'umuforomokazi wambaye imyenda ifite ibara rijya gusa umutuku, akaba anambaye ga zabugeneye mu gihe cy'ubuvuzi ndetse n'agapfukamuwa, uwo mugore akaba yambaye n'amarinete ndetse n'isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, bose bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho.

Icyumba k'ivuriro gifite inkuta z'umweru na parafo ifite ibara ry'umweru hakaba harimo amatara afite ibara ry'umweru, hasi muri icyo cyumba hakaba harimo amakaro, hakaba harimo n'ibitanda bigiye bitandukanye biriho abarwayi n'ibitaryamyeho abarwayi bifite ibara rimeze kimwe kandi buri gitanda kiba gifite inzitiramibu ifite ibara ry'ubururu, hakaba hari umugabo ushinzwe kugenda azinga izo nzitiramibu, azizingira abarwayi.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse zikaba zifite na parafo ifite ibara ry'umweru, ririmo amatara afite ibara ry'umweru. Hasi muri iryo vuriro hari amakaro afite ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'utubati tugerekeranyije dukozwe mu byuma. Turiho ibyapa bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba harimo n'utubati tugiye dutandukanye turimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu ifite parafo ifite ibara rijya gusa kaki irimo amatara afite ibara ry'umweru, iyo nzu ikaba irimo intebe zifite ibara ry'umukara zikaba zicaye imbere y'utubati turimo amarinete agiye atandukanye ndetse ku nkuta z'iyo nzu hari amashusho agiye atandukanye y'abantu bambaye amarinete y'ubwoko bwose hakaba n'amarinete ari kuri izo nkuta y'ubwoko bwose.

Imiryango ifite ibara rijya gusa nk'ivu irimo ibirahure, hejuru y'iyo miryango hari urukuta rufite ibara ry'umuhondo, rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru parafo ifite ibara ry'umweru, irimo n'amatara y'umweru.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'imiryango n'amadirishya, bifite amabara y'umukara, harimo ibirahure, hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, bifite amabara asa ndetse buri gitanda kikaba gifite inzitiramibu.

Ivuriro rifite inzu nyinshi zubakishijwe inkuta zifite amabara y'umweru, zikaba zifite n'amadirishya afite ibara ry'umukara, harimo ibirahure. Iryo vuriro rikaba rifite n'ubusitani hanze.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru hasi hakaba arimo amakaro afite ibara ry'umweru muri icyo cyumba hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa hajugunywamo imyanda yakoreshejwe mu gihe bari kuvura abaje muri icyo cyumba hakaba harimo n’ibitanda bifite ibara ryijya gusa kaki ndetse n'utudukoresho dutoya turi ku bitanda dufite ibara ry'umukara.

Ivuriro rifite inkuta z'umweru n'amadirishya y'umukara arimo ibirahure, iryo vuriro imbere ku bwinjiriro hakaba hari amagambo yanditse hejuru yaryo ariho amazina y'iryo vuriro ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, hanze y'ivuriro hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inzu y'ivuriro ifite inkuta zifite amabara y'umweru ndetse ikaba ifite amadirishya n'inzugi bifite amabara y'umukara, imbere y'iryo vuriro hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi. Hejuru ku ivuriro hari amagambo yanditseho ari mu ibara y'Igifaransa, imbere y'ivuriro hakaba hari abagabo babiri bari kuhatambuka harimo uwambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abashinzwe kwita ku barwayi b'abaganga bambaye impuzankano zisa umweru bambaye n'udupfukamunwa hari umuganga ufite imisatsi miremire usutse uri kwita ku murwayi wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga gafite ibara ry'umukara.

Abagore babiri harimo umuganga wambaye umwenda w'akazi, ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hari n'undi mugore wambaye umwenda w'umweru afite uruhinja mu ntoki, uwo muganga akaba afite agakoresho gapima umutima w'umuntu uko utera, akaba anambaye n'amarinete.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ku rukuta rumwe rwo muri icyo cyumba hariho umutako ndetse ku ruhande rw'umutako hariho isaha ifite ibara ry'umweru n'umukara hejuru kuri parafo, parafo isa umweru hariho amatara y'umweru muri icyo cyumba harimo icyuma gifite ibara ry'umweru gishinzwe gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite.

Icyumba kiri mu ivuriro gifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru, harimo ibirahure muri icyo cyumba hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ndetse n'ibikoresho bireba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa bajugunyamo ibikoresho bimaze gukoreshwa mu buvuzi.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta z'umweru kikaba gifite n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure. Kikaba gifite hasi amakaro y'umweru, gifite n'amatara y'umweru, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ameza afite ibara ry'umweru, ndetse na mudasobwa zigiye zitandukanye. Hakaba harimo n'ibindi byuma bifite amabara y'umweru byifashishwa mu buvuzi.

Umuhanda w'igitaka urimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amabuye ndetse n'ibyatsi, hakaba hari urukuta ruri ku ruhande rwubakishije amatafari ahiye, muri uwo muhanda hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru, kiriho ikimenyetso cyerekana ahantu ujya, hakaba hariho, kuri icyo cyapa hakaba hariho ikirango cy'umujyi wa Kigali ndetse n'icya Repubulika y'u Rwanda

Ivuriro ry'abana rifite ibara ry'umweru ndetse, n'umukara rikaba rifite inzugi, zifite ibara ry'umweru, n'umukara amadirishya yo akaba asa umweru arimo ibirahure rikaba rifite amabati asa umutuku imbere y'iryo vuriro hakaba ari amabendera abiri kaba ari ibendera risa umweru n'irindi bendera ry'u rwanda akaba hari n'icyapa kivuga izina ry'iryo vuriro riri mu mazina mw'ibara ry'ubururu.

Utubati tugerekeranyije turimo udukarito dufite ibara ry'umweru tubitswemo imiti igiye itandukanye ndetse hakaba harimo n'utundi dukarito dufite amabara agiye atandukanye harimo umweru, ubururu ndetse n'umutuku n'andi agiye gusa umuhondo, utwo dukarito tukaba tubikwamo imiti y'ubuvuzi.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza matoya afite ibara ry'icyatsi ndetse akambaramo n'umupira ufite ibarajya gusa kaki, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi ari mucyumba gifite inkuta zisa kaki, hakaba harimo igitanda umurwayi aryamaho gifite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imipira y'icyatsi ndetse nabandi bambaye indi mipira igiye itandukanye ifite amabara n'abambaye amakoti bahagaze imbere y'inzu ifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara rijya gusa umutuku, hejuru kuri iyo nzu hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru ndetse hirya yiyo nzu hari ihema rifite ibara ry'umweru.

Mu biriro bifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hakaba harimo ibyapa bigiye bitandukanye, bimenyesha umuntu aho gusohokera mu gihe habayeho ikibazo cy'inkongi y'umuriro, iyo nzu y'ivuriro irimo ibitanda bitandukanye biriho abarwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye, ndetse harimo n'abaganga bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abaganga bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu, ndetse bose bakaba bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma yabo hakaba ari igikuta kirimo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, afite amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi, umukara ndetse n'ubururu.

Ivuriro rifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya n'imiryango bifite ibara ry'umukara birimo ibirahure, ndetse hejuru hakaba hari n'andi madirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahure. Iryo vuriro rikaba ririmo ibitanda bigiye bitandukanye biri hepfo na ruguru biryamyeho abarwayi bagiye batandukanye. Ndetse buri gitanda kikaba gifite inzitiramibu.

Inzu ifite igikuta gifite ibara ry'umweru, hakaba arimo isaha ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'umukara arimo ibirahuri. Iyo nzu ikaba irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iy'amaboko ndetse n'iy'amaguru.

Utubati dukozwe mu byuma turimo ibizamini byagiye bifatwa n'abantu baje kwisuzumisha, ibyo bizamini bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, aho hari ibizamini bifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye umurwayi aba yatumwe no kwa muganga, hejuru ku iduka hari ry'icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ibirango by'ibigo bigiye bitandukanye ndetse kuri icyo cyapa hakaba hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo ubuzima bwiza.

Inzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru ikaba ifite na parafo isa umweru irimo amatara afite ibara ry'umweru inkuta zo muri iyo nzu zikaba ziriho imitako igiye itandukanyekanya aho hariho umutako ufite ibara ry'umuhondo ushushanyijeho ibishanyo bitandukanye ikaba ifite imiryango ifite ibara rijya gusa kaki hariho utwapa dutoya dufite ibara ry'umukara twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyumba cy'ivuriro kirimo intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'igitanda gifite ibara ry'umutuku kiriho umusego ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'agatambaro k'umweru, icyo cyumba kikaba gifite inkuta z'umweru zigiye ziriho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, Ndetse hakaba n'ameza afite ibara rijya gusa kaki.

Ivuriro rifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hejuru ku ivuriro hakaba hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara, imbere y'iryo vuriro hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'ijipo itukura.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ifite na parafo y'umweru, irimo amatara y'umweru, hasi hakaba hasize irangi rifite ibara ry'ubururu. Ikaba ifite igice gifite imbaho zisa ibara rya kaki, hejuru kuri icyo gice hakaba hari urukuta rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Ivuriro ririmo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga zabugenewe mu gihe cy'ubuvuzi, akaba ari kuvura umudamu uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umweru ndetse akaba aryamye kuri matera isasheho ishuka y'ubururu, inkuta z'icyo cyumba cy'ivuriro zifite ibara ry'umuhondo.

Inzu ifite amadirishya ndetse n'imiryango bifite ibirahure, kuri iyo nzu hakaba hariho igikoresho gifite ibara ry'umutuku kifashishwa igihe habaye inkongi mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa muri siporo ngororamubiri zo kwirukanka hakaba harimo n'ikirahure cyo kwirebamo mu gihe ukora izo siporo ngororamubiri.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo, ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho ibinini bisa umuhondo, umweru ndetse n'ibindi bijya gusa umutuku ndetse n'urushinge.

Umukobwa wicaye mu byatsi wambaye ikabutura ifite ibara rijya gusa icyatsi, harimo uturongo tubiri tw'umweru tumanuka, akaba yambaye n'agasengeri kerekana umukondo, gafite ibara rijya gusa kaki, akaba ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire wambaye ishengeri ifite ibarajya gusa umweru ari mu gikoresho kimufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka iruhande rwe hariru umugabo wambaye ishati yumweru nipantaro yumukara wambaye agapfukamunwa k'umukara uri kumurebera uburyo akora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho gifite ibara ry'umweru, kikaba gifite n'umupira ugicometsemo ugihuza n'akandi gakoresho gafite ibara ry'ubururu, kakaba kifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi bwo kwa muganga.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zisa umweru ndetse hakaba harimo n'amatara y'umweru, hasi hakaba hari amakaro y'umweru, hakaba harimo icyuma gishinzwe gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo wahuye na cyo, icyo cyuma kikaba gifite ibara ry'umweru.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ga zifashishwa mu gihe cy'ubuvuzi, ibipfuko, ndetse n'imiti yo gushyira ku gisebe, ndetse n'indi miti yo kwisiga, iyi miti ikaba yifashishwa mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Inzu ifite inkuta z'umweru ikaba ifite n'imitako y'indabyo igiye itandukanye iri mu mavase agiye atandukanye, imbere y'iyo mitako hakaba hari umukobwa wambaye agasengeri kagaragaza umukondo, wambaye ndetse n'ipantaro ndende yabugenewe mu myitozo ngororamubiri. Uwo mukobwa akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba aryamye ku gatapi gatoya kabugenewe ko gukorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Akagare kagendamo abafite ubumuga bwo kutagenda, gafite ibara ry'ubururu n'umukara, ndetse kakaba gafite amapine ane, yifashishwa mu gusunika umuntu ukicayeho.

Umugabo wambaye isengengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri y'amatako ndetse n'amaguru, akaba ari kuyikora ku gatapi kabugenewe ko gukoreraho imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari igikuta gifite ibara ry'umweru, ku rundi ruhande hari ikindi gikuta cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu babiri batandukanye hariho umuganga wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye agakoresho gapima umutima w'umuntu uko utera ndetse akaba yambaye n'ikarita iriho ibimuranga mu ijosi, akaba ari kuvura umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi ifite ibara ry'ubururu, akaba yagize ikibazo cy'imvune mu kaguru.

Abantu benshi bambaye amajire afite ibara ry'umweru arimo ikimenyetso cy'umusaraba gifite ibara ry'umutuku, bari mu mahugurwa yuko bakita ku muntu wahuye n'ikibazo cy'impanuka bakamuha ubutabazi bw'ibanze, bari kwerekerwa n'umuntu wambaye ijire y'umutuku aho ari kubereka uburyo wakita ku muntu wahuye n'ikibazo cy'impanuka.

Umugabo wumwirabura wambaye ekuteri z'imigozi. zifite ibara ry'umweru, wambaye isengeri ifite ibara ry'ubururu bwijimye. akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse harimo n'ibara ry'umweru. akaba yambaye inkweto zifunze zifite ibara ry'umweru akaba ari muri siporo ng.ororamubiri.

Abantu babiri bahagaze, mu kibuga bakoreramo siporo ngororamubiri, aho hari uwambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara, akaba afite agakoresho kamufasha mu kugenda, ako gakoresho kakaba gafite ibara ry'ubururu, hakaba n'undi ufite umupira w'amaguru, wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ubururu bw'ijimye ndetse n'ikabutura y'umukara.

Igishushanyo gishushanyije igice cyo hejuru cy'umuntu gifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara rijya gusa umukara kiryamye hasi ku gatambaro gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kikaba cyegeranye n'agakapu gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ako gapu kaba karimo kakaba karimo igikoresho gifatanye n'agakoresho kari kuri cya gishushanyo gishushanyije igice cyo hejuru cy'umuntu.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye by'abantu aho harimo igishushanyo cy'umuntu uri kuribwa umutwe, ikindi cy'umuntu uri kuruka ndetse n'ikindi umuntu uryamye hasi wahuye n'ikibazo undi amuhagaze hejuru, n'ikindi cy'umuntu wicaye ku ntebe. Ibyo bishushanyo byose munsi hagiye handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu babiri batandukanye, harimo umugabo umwe wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umukara, uri gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba n'undi uri kumwerekera wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umukara, ndetse n'ipantaro y'umukara uri kumwerekera ibyo akora mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agashengeri kagufiya kagaragaza umukondo, wambaye ipantaro y'umukara yabugenewe mu gukoresha mu myitozo ngoramubiri, akaba yambaye inkweto z'umweru, akaba anambaye ekuteri z'imigozi miremire zifite ibara ry'umweru, akaba yicaye mu muhanda ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri batandukanye bambaye imyenda itandukanye umwe yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara akaba ari kwita kuwambaye umupira w'umweru urimo ibara ry'umutuku ndetse n'ikabutura ifite ibara rijya gusa kacyi akaba afite ikibazo cyo kuvunika ukuguru, bakaba bari kumushyiraho ibikoresho bimufasha kugira ngo ukuguru kwe gusubirane.

Umugabo n'umugore, umugabo wambaye agapira gafite ibara rijya gusa nk'ivu ndetse umugore akaba yambaye agapira gafite ibara ry'umukara, bateranye imigongo bose bari kunywa amazi.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, aho hariho amazina y'umuntu witwa, Nshimyumuremyi, hakaba hariho munsi yaho handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'icyatsi ndetse munsi hakaba hariho imbuga nkoranyambaga wabonaho Nshimyumuremyi.

Abagabo batatu batandukanye harimo uwambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara hari nundi wambaye imyenda y'ubururu hejuru no hasi ufite ishashi y'umutuku akaba afite ibyo ari guhereza umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa nk'ivu uhagaze ku rwego imbere yiwe hari igikarito kirekire gifite ibara ry'umweru bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu umweru.

Umugabo ufite umusatsi mukeya ufite ibara ry'umukara, akaba yambaye agapira gafite ibara rijya gusa nk'umukara, akaba afite icupa ry'amazi afite umufuniko ufite ibara rijya gusa ubururu, iryo cupa rikaba ririmo amazi ari kunywa.

Udukarito tw'umweru dufite amabara atandukanye harimo; umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umweru. Utwo dukarito tukaba dufite amagambo agiye atwanditseho ari mu ibara ry'umukara, ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, amagambo amwe yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse andi ari munsi akaba yandikishijwe mu ibara ry'umutuku, hakaba hari amashusho agaragaza ibinini ndetse n'inshinge.

Umugabo wambaye umupiramaboko maremare ufite ingofero bifatanye, uwo mubyiruka ufite ibara rijya gusa nk'ivu, kuruhande rwe hakaba hari igikapu gifite ibara ry'umukara akaba afite icupa ry'amazi rifite ibara rijya gusaka umukara rikaba ririmo amazi yo kunywa.

Abantu bane batandukanye, bambaye imyenda igiye itandukanye, hari abambaye udupira dufite ibara rijya gusa umutuku, n'undi wambaye agapira gafite ibara rijya gusa ubururu, undi akamba agapira gafite ibara rijya gusa umukara, bakambara n'amakabutura agiye atandukanye, bari muri siporo ngororamubiri zo kwirukanka.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umweru, hagati hagahita hazamo andi mabara agiye atandukanye arimo icyatsi, umutuku ndetse n'icyatsi kindi kerurutse hakazamo n'ibara ry'umweru munsi yaho hakazaho andi magambo ari mu ibara ry'umweru yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw’umweru ruriho ibikoresho bigiye bitandukanye ariho umupira w'amaguru ufite ibara ry'umweru n'umukaraba hakaba hariho n'umupira w'amaboko akaba ariho n'ingofero bambara mu gihe bari gukina umukino wo kugundagurana iyo ngofero ikaba ari iy'ubwirinzi mu gihe cy'uwo mukino.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure. Hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'umweru ryivanze n'andi mabara y'umukara. Hakaba harimo ibitanda byagenewe abarwayi. Hakaba hicayeho abantu bagiye batandukanye harimo abarwayi ndetse n'abarwaza. Muri icyo cyumba hakaba harimo n'abaganga bambaye amataburiya yumweru ndetse n'undi mugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara irimo akarongo k'ubururu, ufite udukoresho twifashishwa ku ngingo zagize ikibazo cy'imvune. Utwo dukoresho bakaba badushyira ku rugingo rwagize imvune. Utwo dukoresho tukaba dufite ibara ry'ubururu ndetse hari n'akandi gafite ibara rijya gusa umutuku.

Inkoni ikozwe mu cyuma, yifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda cyangwa bahuye n'ikibazo cy'imvune, iyo nkoni ikaba ifite ibara rijya gusa nk'ivu ku gice cyo hejuru ndetse ahandi ukuboko gufata hakaba hafite ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye by'abantu ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aho hariho igishushanyo cy'umuntu uri kuribwa umutwe, undi ari kuruka, undi arigukora ubutabazi bw'ibanze, hariho igikoresho cy'inyongeramajwi ndetse n'undi muntu ufite ibibazo byinshi, hakaba handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Inkoni ebyiri zisa zifite amabara asa, harimo ibara rijya gusa kaki, umukara ndetse n'ibara ry'umweru, ikaba ifite n'utugozi dutoya. Izi nkoni zikifashishwa n'abantu bafite ikibazo cy'ingingo zamugaye zikabafasha mu gutambuka.

Inzu mberabyombi ifite ibikuta bifite amabara y'umweru n'inzugi zifite ibara rijya gusa kaki, iyo nzu mberabyombi ikaba irimo ibitambaro bifite amabara atandukanye, harimo umweru, ubururu bwijimye, umuhondo ndetse akaba arimo n'intebe z'imbaho zifite ibara rijya gusa kaki iyo nzu mberabyombi ikaba irimo abantu batandukanye harimo umu mansera ndetse n'umuzungu ndetse n'umwana n'umugore wicaye hasi ku musambi.

Urupapuro rw’umweru ruriho amabara agiye atandukanye ayo amabara akaba agiye ashushanyijemo ibishushanyo bigiye bitandukanye, bishushanyije abantu bari mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye, ibara rya mbere rikaba ari ibara ry'ubururu bwijimye ,ibara rya kabiri ikaba ari ubururu bwerurutse ,ibara rya gatatu ar’ icyatsi ,ibara rya kane akaba ar’icyatsi cyerurutse ,ibara rya gatanu akaba ari umuhondo wijimye ,ibara rya gatandatu akaba ari umuhondo werurutse.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, ufashe mu ntoki agakoresho gafite ibara ry'ubururu ushyira ku ngingo wavunitseho mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Imbuto nyinshi zitandukanye, harimo imineke, amacunga, amapome ndetse n'indimu, ndetse n'izindi mbuto, hejuru yazo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari umukobwa uri muri siporo ngororamubiri.

Agakarito k'icyatsi kabitse imiti igiye itandukanye, yifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze, aho harimo amavuta, inshinge ndetse n'utundi dukoresho bazirikisha umuntu wagize ikibazo cy'imvune ndetse n'amavuta yo kwisiga y'umuti.

Umugabo wambaye umupira w’amaboko maremare afite ibara ry'umukara ndetse akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umumweru irimo imirongo y'umweru akaba yambaye urukweto rw'umukara ndetse n’imisatsi y'umweru ukuguru kw'ibumoso ukundi kuguru urikwitabwaho n'umuganga wambaye imyenda y'abaforomokazi ifite ibara ry'ubururu hejuru no hasi.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri z'ibice byose harimo umugabo wambaye umupira utukura wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara ufite umupira wifashisha mu myitozo ari gukora imyitozo ngororamubiri kuruhande hari umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa kaki uri kumwerekera imyitozo ngororamubiri agomba gukora.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara irimo uturongo dufite ibara ry'umutuku akaba ari mu myitozo ngororamubiri ifasha ingingo z'amaboko mu kugororoka, aka ahahagaze imbere ya senyenge.

Imbuto zitandukanye, harimo amacunga, ndetse na pome, ndetse n'amashu, na karoti, ku ruhande rwayo ho hari umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umweru, wambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, uri mu myitozo ngororamubiri yo kwiruka.

Umugabo w'umuzungu wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, akaba yambaye agakomo k'icyatsi, akaba afite imisatsi y'umukara ndetse n'ubwanwa bw'umukara, akaba ari kunywa amazi ari mu gacupa kabonerana.

Icyumba cyo mu ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse kikaba gifite n'amatara hejuru, hasi hakaba hasize irangi ry'ibara ry'ubururu ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo icyuma gishinzwe gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo wagize.

Umukobwa ufite imisatsi isutse ndetse akaba yambaye agasengeri kagufiya kagaragaza umukondo, akaba yambaye n'umwambaro witwa kora, akaba yicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi yo kunywa.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari agacupa gafite ibara ry'umwe n'umufuniko w'umweru, agacupa kabikwamo umuti wo kwisiga munsi hari ibikoresho bigiye bitandukanye aho harimo agafuniko gapfundikira urushinge ndetse n'urushinge hakaba hari n'ibinini bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye.

Inzu ifite inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure harimo umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye isengero ifite ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro yabugenewe gukoresha imyitozo ngororamubiri ifite'i ibara ry'umukara akaba aryamye ku gatapi gatoya kabugenewe mu gukoreraho imyitozo ngororamubiri akaba ari gukora imyitozo ngoramubiri ifasha igice cy'amaguru.

Umugore wambaye isengeri ifite ibara rijya gusa umutuku ndetse akaba anambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye n'inkweto zifite ibara rijya gusa umutuku ndetse n'umweru, akaba yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri y'umugogo.

Icyumba kiri mu ivuriro, icyo cyumba kikari gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru ndetse n'utubati tugeretse, dufite ibara ry'umweru, icyo cyumba kikaba kirimo igikoresho cyabugenewe mu gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite, icyo gikoresho kikaba gifite ibara ry'umweru.

Abantu babiri batandukanye aho umwe yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufiya, yarengejeho ijire ifite ibara ry'icunga rihishije, akaba afashe mu ntoki umugabo wambaye isengeri y'umutuku, ikaba ifite ibara ry'umweru ririho imibare iri mu ibara ry'umukara, iyo mibare akaba ari gatanu gatatu, zeru kabiri.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda n'ikirango cy'ivuriro rya gisirikare, munsi yaho hakaba hari amagambo agiye atandukanye, yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, umuhondo ndetse n'ubururu, ndetse n'ubururu bwijimye.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru, kagufiya kagaragaza umukondo, akaba yambaye ipantaro yabugenewe yo gukoresha imyitozo ngororamubiri, ahagaze imbere y'amazi magari.

Umugabo w'umuzungu, uryamye ku gatapi kabugenewe, gakorerwaho siporo, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa kaki, akambara ikabutura, ifite ibara ry'umukara, akaba yambaye n'amasogisi y'umweru, akaba yiziritse umugozi ku kaguru, ukaba uri kumufasha mu gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agashengeri kagufiya k'umukara kerekana umukondo akaba yambaye n'ipantaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri ifite ibara rijya gusa nk'ivu, yicaye ku gatapi kabugenewe ko gukoreraraho imyitozo ngororamubiri imbere y'iwe hari mudasobwa ifite ibara ry'umweru ku ruhande hakaba hari icupa ry'amazi ndetse n'utundi dukoresho tubiri twifashishwa mu myitozo ngororamubiri y'amaboko

Icyuma cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru n'akandi gace gato gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, kikaba kiriho ibimenyetso bigiye bitandukanye. Icyo cyuma kikaba gikoreshwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu ikibazo ufite.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara, ufite igikoresho cyifashishwa gushyira ku ngingo yahuye n'ikibazo cy'imvune gifite ibara ry'ubururu, kiri mu gashashi akaba ari kugikoza ku kuguru kw'ibumoso mu ngingo y'ivi.

Umugore wambaye tiriningi yabugenewe yo gukoresha siporo ngororamubiri, wambaye inkweto zifite ibara rijya gusa umutuku, imbere hakaba hari icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'agasengeri kerekana umukondo, umukobwa akaba yambaye ekuteri z'umweru zo mu matwi z'imigozi miremire.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu akaba anambaye ekuteri z'imigozi miremire zifite ibara ry'umweru, akaba afite n'umurongo ngendanwa mu ntoki ufite ibara ry'umweru, akaba yambaye isaha iri ku kuboko kw'ibumoso akaba ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu akaba yambaye ipantaro y'amaguru maremare ifite ibara ry'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru akaba yambaye agakomo gafite ibara ry'umukara ndetse n'impeta ku kaboko k'iburyo, akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara rijya gusa nk'ivu, akaba yambariyemo kora ifite ibara ry'umukara.

Abantu babiri batandukanye barimo umwana mutoya ndetse n'umugore, mukuru wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ryo gusa umutuku, akaba anambaye akajire gafite ibara ry'ubururu, akaba ari gukorera isuzuma uwo mwana mutoya.

Umukobwa ufite imisatsi miremire isutse wambaye agasengeri kagufiya, kagaragaza umukobwa gafite ibara rijya gusa icyatsi, akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara rijya gusa icyatsi, isa n'agasengeri yambaye hejuru, akaba anambaye n'inkweto bisa, akaba ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye agasenge kagufi gafite ibara rijya gusa ubururu kagufi kerekana umukondo, akaba yambaye n'ipantaro bisa, akaba yicaye hasi ari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari urukuta rufite ibara ry'umweru.

Agakarito gafite ibice bibiri, igice cya mbere kiba gifite ibara ry'ubururu bwijimye kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'agashushanyo k'igipfuko bashyira k'umuntu wakomeretse, igice cyo hasi gifite ibara ry'umweru kiriho nacyo amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwijimye!! ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imibare ndetse n'ibipimo by'ibipfuko biri muri ako gakarito.

Igikoresho gifite imishumi, imwe, ibiri, itatu, ine, gifite ibara ry'umukara ndetse hivanzemo n'irijya gusa ik'ivu, iki gikoresho kiba kifashishwa mu gihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune mu kaguru, bi bikaba ngombwa ko bamushyiraho sima.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ijage irimo amazi kiri gushuka amazi mu kirahure, kibonerana giteretse ku meza ifite ibara ry'umweru ndetse inyuma y'ibyo byose hari ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo by'ibiganza bine bifite uburyo bukwereka bwo kwizirika igihe wahuye n'ikibazo cy'imvune ku kiganza, munsi yaho hakaba ari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Inzu ifite inkuta zifite amabara y'umweru ndetse hakaba hariho n'igikoresho cyifashishwa bazimya inkongi y'umuriro gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umupira w'umukara, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru akaba afite umupira mu ntoki ufite ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'ivuriro gifite inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure, hakaba harimo utubati dufite ibara ry'umweru turimo ibirahure, hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo n'igitanda gifite ibara ry'ubururu cyiryamaho umurwayi ufite icyibazo.

Urupapuro rw'umweru ruriho amabara agiye atandukanye, rukaba ruriho amabara y'ubururu bwijimye, mo imbere muri ayo mabara hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, ndetse kuri urwo rupapuro hariho n'ibishushanyo bigaragaza abantu imirimo barimo, hariho umuntu uri kugenda, umuntu uri gukina umupira n'abandi bantu babiri bari muri siporo ngororamubiri.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'umuru ikaba irimo n'irindi bara rijya gusa nk'ivu wambaye ikabutura y'umukara akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri afashe ku mano iyo myitozo ikaba ifasha igice cy'umugongo ndetse no kurambura amaguru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye ,aho hariho igishushanyo cy'umupira w'amaguru ufite ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'inkweto zifashishwa bakina umupira w'amaguru, hariho n'agakoresho kifashishwa gapima uko umutima w'umuntu utera, gafite ibara ry'umukara ndetse n'akandi gakoresho ku ruhande gafite ibara ry'umweru.

Agakarito kabugenewe gakoze mu cyuma gafite ibara ry'umweru karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo cy'imvune mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'indi mikino ngororamubiri haba harimo imiti igiye itandukanye irimo impakasi ,ibipfuko n'imiti yo guhanagurisha igihe akomeretse n'ibindi n'ibindi.

Abantu batandukanye harimo abakinnyi bahagaze bambaye impuzankano zitandukanye harimo abambaye impuzankano y'icyatsi n'umweru n'amakabutura y'ubururu undi akaba yambaye impuzankano y'umuhondo kaba hari n'undi uryamye hasi bari guha ubuvuzi bw'ibanze wavunitse akaba aribuhabwa n'abantu bambaye impuzankano z'amajire y'umutuku.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, wambaye ekuteri z'imigozi miremire zifite ibara ry'umweru, yambaye isaha ifite ibara ry'umukara, afite agacupa k'amazi gafite umufuniko w'umutuku, iryo cupa ry'amazi ririmo amazi ari kunywa.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse kikaba gifite imashini zigifunga zifite ibara ry'umukara ndetse n'imishumi ifite ibara ry'umukara. Icyo gikapu kikaba kirimo imiti yo kwifashisha mu butabazi bw'ibanze mu gihe habayeho ikibazo muri siporo.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi harimo ayandi mabara arimo nk'ubururu ndetse n'umweru, akaba afite umupira wo gukina mu ntoki ufite amabara abiri atandukanye, ndetse ukaba ushushanyijeho umubare wa kane uri mu ibara ry'umukara. Uwo mupira ukaba ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rijya gusa nk'ivu.

Ikiganza cy'umuganga ufite ikaramu mu ntoki, uri kwandika ku rupapuro rw'umweru, iruhande rwiwe hari igikoresho gisuzuma umutima w'umuntu ukuntu uhagaze, ku rundi ruhande hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba n'umunzani upima ibiro by'umuntu ndetse n'icupa ry'amazi ririmo amazi n'imetero ndetse n'urubuto rwa pome.

Umugore wambaye isengeri irimo ibara ry'icyatsi n'umweru n'ubururu, ufite agatambaro ko kwihanagura gafite ibara ry'umweru, akaba afite icupa ry'amazi rifite umufuniko w'umutuku, iryo cupa rikaba ririmo amazi ari kunywa.

Abantu babiri batandukanye harimo uwambaye umupira ufite ibara ry'umukara urikwita ku muntu wagize ikibazo cy'imvune. Amushyizeho igikoresho gifite ibara ry'icyatsi kiba kirimo ibintu bikonje mu rwego rwo kuvura ingingo zavunitse.

Ibirangantego bibiri bifite amabara atandukanye, bikaba bifite n'ubusobanuro bugiye butandukanye n'ikirangantego cya mbere cya Repubulika y'Urwanda ikirangantengo cya kabiri n icy'ibitaro bikuru by'igisirikare cy'Urwanda munsi yaho hari amagambo agiye afite amabara atandukanye ari mu rurimi rw'icyongereza.

Igikoresho gifite ibara ry'umukara kikaba gifitemo uturongo tw'umweru, akaba ari n'amagambo acyanditseho ari mu ibara ry'umweru, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'icyongereza, iki gikoresho kikifashishwa bagishyira mu kuguru k'umuntu ku gice cy'ivi mu gihe yahuye n'ikibazo cy'imvune.

Umugabo wambaye umupira wubururu bwijimye ndetse n'ipantaro bisa, uri kugorora urya mugabo uryamye ku gatanda gafite ibara ry'umweru, akaba yambaye inkweto zifite ibara ry'icyatsi ndetse munsi y'inkweto hakaba hasa umukara akaba ari kumugorora ku gice cy'ukuguru kwagize ikibazo cy'imvune ku mutsi w'inyuma.

Ibishushanyo bine biri mu mabara atandukanye aho igishushanyo cya mbere kiri mu ibara ry'ubururu kirimo umugabo uri kwirukanka, icyindi gishanyo kiri mu ibara ry'umutuku akaba arimo ikimenyetso cyo guteranya kivuze ubuvuzi, gifite ibara ry'umweru munsi yaho hari igishushanyo kiri mu ibara ry'icyatsi kirimo umuntu uri muri siporo ngororamubiri zo kunyerera ku rubura ku rundi ruhande harimo igishushanyo cy'ikiganza gifashe ikindi kiganza.

Umugabo wicaye mu ntebe zifite ibara ry'umweru wambaye agapira gafite ibara ry'umweru wambariyemo agasengengeri k'umukara akaba yifashe ku kuboko ahafatishijeho igikoresho cyifashishwa mu kwivura imvune wagize mu ngingo gifite ibara ry'ubururu.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yandikishijwe ibara ry'umweru ari hejuru. Hagati hakazamo ishusho y'abagabo batatu barigukina umukino w'amaboko. Bose bambaye kasike z'ubwirinzi mu gihe barigukina uwo mukino. Bakaba bambaye imipira itandukanye ifite amabara atandukanye. Hasi hahera hari n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umweru, azengurutswe n'ubuso bw'icyatsi.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi afite ibara ry'icyatsi, iki gihingwa kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ikirere gisa ubururu, ndetse n'ibicu bisa umweru, hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye, bifite amababi agiye atandukanye, ibiti bifite amababi y'icyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara rijya gusa umuhondo hejuru hari andi magambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'izindi nyuguti ziri mu mpine. Ayagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo Rwanda. Andi magambo ari mu mpine yanditse ngo FDA ari mu ibara ry'icyatsi hejuru yayo hari ikirango gifite amabara agiye atandukanye arimo umuhondo ndetse n'icyatsi.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kakaba kandiitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse kakaba gafite n'ikirango gifite ibara ry'umukara. Icyo kirango kikaba ari iki gisiga kiri kuguruka, ayo magambo ari mu rurimi rw'icyongereza akaba ari mu ibara ry'icyatsi.

Amacupa abiri y'umuhondo afite imifuniko, afite ibara rijya gusa kaki, ayo macupa akaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse akaba afiteho ishusho y'igihingwa cyitwa igikakarubamba, akaba yegeranye n'agakarito gafite ibara ry'umweru ndetse n'ishashi ifite ibara ry'umweru harimo ubururu, ibyo byose bikaba byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara. Ku ruhande rwaho hari indabyo ebyiri zifite ibara ry'umweru n'umuhondo ndetse n'ikimera bita igikakarubamba. Ku ruhande rwaho hirya hari agacupa gafite ibara ry'umweru n'icyatsi kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, hakaba hariho n'ishusho y'igikakarubamba.

Umurima urimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi atandukanye, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo, ukaba umurima urimo n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Ibiti byinshi bitandukanye harimo n'indabyo zifite amabara atandukanye. Harimo indabyo zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibifite ibara ry'umuhondo. Ibyo byose bikifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru, yanditse mu bice bibiri bitandukanye, munsi yayo hari ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo imiti igiye itandukanye ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ndetse no mu buvuzi gakondo.

Ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse no mu buvuzi gakondo biri ahantu hatandukanye, hari ibiri mu ishyamba ndetse n'ibiri mu murima ndetse n'ibifitwe n'abantu mu ntoki. Ibi bihingwa bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye aho harimo igihingwa gifite amababi asa icyatsi ndetse hakaba hari n'indabyo zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'umuhondo aho ibyo bihingwa byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibihingwa byinshi bitandukanye, biri mu mashusho ari mu bice bigiye bitandukanye, harimo ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'ibindi bifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, ibihingwa byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Abantu benshi harimo abambaye imipira ijya gusa kaki, abambaye imipira isa icyatsi n'abambaye imipira ijya gusa umweru, bakaba bari kugenda mu murima ugiye uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, imbere yabo hakaba hari imodoka z'ubuhinzi zihahagaze.

Ibihingwa bitandukanye harimo, umuravumba indimu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo no gukora imiti igakondo. Ibyo bihingwa bifite amashusho agiye atandukanye bihinze ahantu hatandukanye, ndetse munsi yabyo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Umugabo w'umuzungu, ufashe igihingwa gifite ibara ry'icyatsi mu ntoki, icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu kuvura umuntu, ndetse kikanifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Igihingwa gifite ibara risa icyatsi gifite amababi agiye atandukanye areba mu byerekezo bitandukanye iki gihingwa kiba cyitwa umuravumba imbere kuri iki gihingwa handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

Umurima urimo indabyo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, hakaba harimo n'indabyo zitaramera ndetse uwo murima urimo ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Igihingwa kitwa igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwaho hari amashusho agiye atandukanye y'ibihingwa byifashishwa gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo, hejuru yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru harimo n'ibara ry'icyatsi, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'icyatsi, agacupa kakaba kabika umuti wifashishwa mu kumesa mu mutwe, umuti ukaba ukomoka ku bihingwa by'ubuvuzi gakondo.

Amacupa menshi atandukanye afite amabara agiye atandukanye, yose abikwamo imiti gakondo ndetse akaba afite ibirango n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishijwe amabara agiye atandukanye, ikirango kigiye kiri ku macupa ni ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Afite amabara atandukanye yari icupa rifite ibara rijya gusa kaki irindi rifite ibara ry'umukara irindi rikaba rifite ibara ry'icyatsi cyijimye yose ayo macupa akaba afite impapuro zigiye zometseho kuri aya macupa zanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza akaba ari mu mabara agiye atandukanye ari magambo yanditse afite ibara ry'umweru , ubururu ndetse n'umukara.

Ibihingwa bigiye bitandukanye biri mu dukoresho dufite ibara ry'umukara twifashishwa mu gutera ibyo bihingwa ibyo bihingwa, ibyo bihingwa bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo, ibyo bihingwa bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, gifite amababi menshi areba mu byerekezo bigiye bitandukanye. Iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo.

Agakarito gafite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mw’ibara ry'icyatsi kakaba kariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka ka kaba kariho n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo ako gakarito ka kaba kavamo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Udukarito dutandukanye dufite amabara agiye atandukanye, hakaba hari agakarito gafite ibara ry'umweru ku gice cyo hejuru, igice cyo hasi hakaba hariho ibara rijya gusa umutuku utwo duga tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu mabara agiye atandukanye aho harimo ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyerurutse, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa gifite ibara ry'umweru cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse no mu buvuzi gakondo. Impande y'icyo gihingwa harimo ibindi bihingwa bifite amabara agiye atandukanye harimo icyatsi ndetse n'umuhondo.

Amacupa rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, arimo imiti ikomoka ku buvuzi gakondo yifashishwa mu kuvura amavunane ari mu ngingo z'umubiri.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye hakaba harimo igihingwa kifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo. Icyo gihingwa kikaba gifite amabara y'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru ruriho imiti igiye itandukanye, hariho amacupa afite ibara ry'umuhondo n'andi macupa afite ibara ry'umweru, aya macupa akaba arimo imiti ikomoka ku buvuzi gakondo, hasi hakaba ariho nimero wahamagara kuri iyo kampani icuruza iyo miti gakondo.

Amacupa abonerana afite imifuniko ifite amabara agiye atandukanye, ayo macupa akaba arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo. Ayo macupa akaba yometseho agapapuro gafite ibara ry'umweru kakaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'agapapuro kometseho gafite ibara rijya gusa umutuku kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Hejuru y'ako gacupa hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo igisubizo kuri amibe. Munsi yaho hari n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ari mu ibara ry'umukara yanditse ngo reishi ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Agacupa gafite ibara rijya gusa nk'umweru gafite umufuniko ukozwe mui ibara ry'icyuma ndetse n'akandi gace gafite ibara ry'umukara. Agacupa kakaba kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Agacupa k'umweru kariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asa ubururu, ndetse ako gacupa kakaba kariho ikirango cy'igisiga kigurutse. Iruhande rw'ako gacupa hariho ikimera bita igikakarubamba gikasemo ibice bice, gikasemo ibice bitatu.

Agacupa k'umweru gafite ikirango cy'igipapuro gifite ibara ry'umutuku ryanditseho Revive, umuti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro ndetse n'ingaruka zo kwikinisha, akaba ari umuti wagabanyijweho mirongo itatu ku ijana.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikimera gifite ibibabi kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ndetse icyo kimera kikaba gifatwa nk'umuti gakondo.

Igihingwa cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no gukora imiti gakondo cyitwa tangawize, kikaba gifite igice cyakaswemo uduce twinshi tugera kuri dutanu. Iki gihingwa kifashishwa kuvura umuntu wagize ikibazo cy'inkorora ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, aho amwe yandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse andi akandikishwa ibara ry'umukara, kuri utwo ducupa hakaba hariho ishusho y'ikimera bita igikakarubamba, utwo ducupa tukaba dushinzwe kubika imiti gakondo.

Umurima urimo ikimera cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ndetse kikanifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, icyo kihingwa kikaba gifite ibara ry'icyatsi.

Agakarito gafite ibara ry'umweru, ririmo ibara ry'icyatsi, umuhondo, ndetse n'irindi bara rijya gusa umutuku, kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'imibare ya kabiri, kane, na karindwi, kakaba kavamo ibinini bikozwe mu miti gakondo, ituruka ku bimera.

Ni akabido gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse kakaba gafite n'umufuniko ufite ibara ry'ubururu, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza afite ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Ibirahure bibonerana, birimo imiti gakondo, harimo amazi afite ibara rijya gusa umuhondo, ndetse n'ibyatsi bifite ibara by' icyatsikaba biteretse ku meza ifite ibara ry'umweru.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo igihingwa cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo. Icyo gihingwa kikaba gifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Inzu ifite inkuta z'umuhondo ndetse hakaba harimo n'igikoresho cyifashishwa hakonjeshwa ibinyobwa gifite ibara ry'umweru akaba harimo n’utubati tugerekeranyije turimo amacupa agiye atandukanye arimo amacupa y'amazi amacupa y'ibyokunywa bisembuye ndetse n'amacupa arimo imiti yagakondo akaba arimo umuganga ushinzwe imiti gakondo wambaye itaburiya y'umweru.

Igihingwa gifite imbuto zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, kikaba gifite n'amababi ndetse n'igiti bifite byose ibara ry'icyatsi, iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo.

Umurima urimo ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse kikanifashishwa mu gukora imiti gakondo, icyo gihingwa kikaba gifite amababi y'icyatsi ndetse kikaba kiriho utubuto dufite ibara ry'umutuku ndetse n'utubuto dufite ibara rijya gusa umuhondo.

Ibihingwa bibiri bimeze kimwe biri ahantu hatandukanye aho kimwe cyegeranye n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye ikindi kikaba kiri mu bindi bihingwa bifite ibara ry'icyatsi, ibi ibihingwa bikaba byifashishwa mu gukora umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no gukora imiti gakondo.

Umurima urimo ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse kikanifashishwa mu gukora imiti gakondo. Icyo gihingwa gifite ibara ry'icyatsi ndetse kikaba gifite n'ibara rijya gusa umuhondo.

Ikiganza gifashe icupa ry'umweru riririho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse akaba ariho n'igihingwa cyitwa igikakarubamba. Gifite ibara ry'icyatsi. Hejuru hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka.

Abantu babiri batandukanye harimo umugabo n'umugore, aho umugore yambaye igitambaro cy'ubururu bwerurutse mu mutwe ndetse akambara n'umupira w'amaboko maremare w'umweru, umugabo akambara umupira ufite ibara ry'umukara ndetse akambara n’umupira ufite ibara ry'umutuku.

Agacupa k'umweru kariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'ubururu, hakaba hariho ikirango cy'igisiga, hakaba hariho n'umubare ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye.

Amacupa arimo imiti y'ubuvuzi gakondo ateretse ku tubati tugerekeranyije, harimo amacupa afite ibara ry'umukara ndetse n'andi macupa afitemo imiti ifite ibara ry'umweru, indi ikaba ifite ibara ry'umukara, indi ikaba ifite ibara rijya gusa kaki, ndetse utwo tubati tugerekeranyije tukaba dufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gihe cyo gukora imiti gakondo, iki gihingwa cyikaba cyitwa umuravumba, cyifashishwa mu gihe umuntu afite ikibazo cy'inkorora.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru ari mu murima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ari gusarura ku gihingwa gifite ibara ry'icyatsi gifite amababi agiye atandukanye, ari kureba mu bice bigiye bitandukanye. Icyo gihingwa kikaba cyifashishwa mu buryo bwo gukora imiti gakondo ndetse kikanifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'ikirahure gafite umufuniko w'umweru kakaba gafite agapapuro kometseho gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara, ndetse hakaba hariho ikirango cy'igisiga kiri kuguruka gifite ibara ry'icyatsi. Hakaba n'ikindi kirango kiri hagati gifite uruziga gifite ibara ry'icyatsi n'umukara.

Uducupa dufite ibara ry'umweru tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'ikimera bita igikakarubamba, akaba ariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, ku ruhande rw'utwo ducupa hakaba hari amashusho y'abantu bafite uburwayi bw'uruhu, utwo ducupa tukaba dushyirwamo imiti y'ubuvuzi gakondo.

Iduka ricuruza imiti gakondo, aho umucuruzi yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe ndetse akaba anambaye ikarita iriho ibimuranga mu ijosi, akaba imbere yiwe hari umugabo wambaye ishati irimo imirongo ndetse n'ipantaro ijya gusa kaki. Hagati yabo hakaba hari amacupa arimo imiti gakondo.

Isabune ikorwa mu bihingwa harimo voka ndetse n'igikakarubamba, izina ry'iyo sabune ryanditse hejuru mu magambo afite ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hasi hakaba hari n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'icyatsi gusa yo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Igikoresho kibaje mu giti, kikaba gifite ibara rijya gusa kaki, kikaba kirimo ibinini byinshi bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari ibinini biri muri ako gakoresho ndetse n'ibindi byamenetse hasi bitandukanye.

Agacupa k'umweru, gafite igipapuro kikometseho, gifite ibara rijya gusa umuhondo, icyo gipapuro kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, iruhande rw'ako gacupa k'umweru, hariho igihingwa cyitwa igikakarubamba gifite, ibara ry'icyatsi.

Akajerekani gatoya gafite ibara ry'ubururu ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'icyatsi. Ako kajerekani kakaba kariho igipapuro kiriho ishusho y'ikinyabuzima bita igikakarubamba. Ako gapapuro kakaba kanditseho n'amagambo ari mu mpine ari mu ibara ry'ubururu. Iruhande rw'ako kajerekani gatoya hari amagambo ariho yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse munsi hakaba hariho nimero na zo ziri mu ibara ry'umweru.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo igihingwa cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti gakondo, iki gihingwa kiba gifite ibara risa icyatsi, kikaba gifite amababi ari kureba mu byerekezo bitandukanye.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo igihingwa cyifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu gukora imiti ya gakondo, icyo gihingwa kikaba gifite amababi y'icyatsi.

Udukarito twinshi dutandukanye dufite amabara agiye atandukanye harimo ibara rijya gusa umutuku, icyatsi, muhondo, ubururu n'umweru, ndetse n'umutuku n'icyatsi, utwo dukarito tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, iyo miti irimo ikaba ikomoka ku bimera, ikaba ari imiti y'ubuvuzi gakondo.

Ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ndetse no kwifashishwa mu buvuzi gakondo, bikaba bifashwe n'abagabo bagiye batandukanye, harimo uwambaye ikote ry'umukara ndetse n'uwambaye agakomo ku ntoki ndetse n'ufite igitabo cy'umukara mu ntoki.

Agakarito gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ikitsi, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umukara, hakaba hariho n'ikirango cy'igisiga kiri kuguruka, imbere y'ako gakarito hakaba hari utunini tugera muri kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, icyenda, icumi dufite ibara rijya gusa kaki.

Imeza ifite ibara rijya gusa kaki, iteretseho ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo aho hariho udusahani tubiri tw'umweru, hakaba hari n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, hariho ibitunguru ndetse n'ibyatsi bigiye bitandukanye byose byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi gakondo.

Utubido dutoya dufite ibara ry'umuhondo ndetse tukaba dufite imifuniko ifite ibara rijya gusa kaki, tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, utwo tubido tukaba dufite ikirango cy'igisiga kiri kuguruka gifite ibara rijya gusa umutuku, inyuma yaho hari udukarito dufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hariho ishusho y'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, aka gakarito kakaba kanditseho amagambo ari murimi rw'icyongereza afite ibara ry'umukara.